Abana bazanye indobo ziteye irangi ry'umweru kuvoma, umwe ari gufungura ku mugezi ngo avome, undi ari inyuma ye afite amasahani mu ntoki asa nk'aho ari kwifotoza, hirya y'aho haragaragara ibiti bihakikije hafi y'uwo mugezi.

Umugore wicaye ku ntebe y'urubaho itambitse, akaba akikiye umwana mu ntoki yambaye ipantaro y'umukara. Ku ruhande rwe hicaye undi mwana. Hejuru ye hahagaze undi muntu ndetse imbere ye gatoya hicaye undi muntu w'igitsina gore, wambaye ipantaro y'umukara akaba yicaye ku ntebe ya purastiki isize irangi ry'umweru.

Itsinda ry'abantutu bahagaze imbere y'inyubako isize irange ry'ubururu, kuri iyo nyubako handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'andi hepfo gatoya ari mu ibara ry'umweru, abo bantu bahagaze imbere yayo cyangwa se ku kabaraza kayo harimo umugabo wambaye indorerwamo z'amaso ubyibushye cyane, ufite na telefone mu ntoki.

Itsinda rigari ry'abantu benshi cyane, bicaye ku ntebe z'urubaho zitambitse, muri bo harimo umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse akaba afite n'ikaramu n'ikayi bari kwandika, bicaye ku ntebe z'urwegamiro, inyuma yabo haragaragara n'uwambaye ingofero.

Umuntu wambaye umudari mu ijosi akaba yambaye n'agapira kari mu ibara ry'ubururu k'amaboko magufi, imbere ye hari undi wambaye ishati akaba ari kumusobanurira byinshi kuko ubona ko atanga n'ibimenyetso kugira ngo abyumve neza.

Umwana wasoromye imboga akaba yazishyize mu gatebo, akaba yegereye umubyeyi we bose bari guseka, ubona ko bishimiye cyane, izo mboga ziri mu bwoko bwa gapasu, akaba ari imboga nziza cyane zifasha umwana kuba yarya ibiryo birimo intungamubiri ndetse n'ibirinda indwara.

Amazi menshi cyane ari guturuka mu itiyo yayo ariko iyo tiyo yayo ikaba idasukuye igaragara ko kuri yo hari urubobi rwinshi cyane amazi, hari kuza ni meza cyane kuko hari ibiganza birimo biyoga bikagaragara ko uwo muntu nyiribyo biganza yambaye umwenda uri mu ibara ry'ubururu ariko we ntagaragaraho, hagaragara ibiganza bye.

Umwana uri ku mugezi uri kunywa amazi akaba yambaye ikabutura y'umutuku ndetse n'inkweto za bodaboda, akaba yateze ibiganza ku mugezi amazi akaba ari kugwa ku biganza bye yarangiza akayanywera ku kiganza cye, hasi hagaragara indobo ihateretse kuri uwo mugezi.

Umugore wipfutse igitambaro cy'umweru ukenyeye n'igitenge, impande ye hahagaze akana gatoya, ku ruhande hari abandi bana bari kunyonga icyuma kugira ngo amazi azamuke muri robine kuko aho ngaho ku mugezi hateretse ibase, ndetse si iyo yonyine kuko no ku ruhande hari ayandi mabase ndetse n'ikibuni kinini cyane gisize irangi ry'umuhondo.

Abantu b'urubyiruko, harimo umukobwa umwe cyangwa se w'igitsina gore, bicaye ahantu mu gisharagati, cyangwa se inyubako yakozwe hakoreshejwe ihema, aho bafashe ibiti bakabishinga bakabambaho ihema hejuru, aho bicaye imbere yabo hateretse ameza ariho imiti, umwe muri bo yambaye akarindantoki ndetse n'indorerwamo z'amaso.

Umugore wambaye amaherena maremare akoze mu buryo bw'ikizeru arafatanya n'undi guterura indobo isa ubururu yariteretse ku mugezi inyuma yabo hagaragara abantu bari inyuma y'umugezi kuri uwo mugezi haragaragara icyapa cyanditseho yunisefu bisobanura umuryango mpuzamahanga wita ku bana.

Abantu bari mu gakoridoro, harimo abagabo benshi bambaye amataburiya y’umweru ndetse n’umugore wambaye itaburiya y’umweru, akaba yambaye n’ijipo y’umutuku. Ahagararanye n’undi washyize indorerwamo z'amaso mu gahanga, afite imisatsi miremire, yambaye n’ikanzu y’umutuku, bose bazamuye ikiganza hejuru bagaragaza.

Umugore wicaye ku ntebe akaba yambaye imyenda y'iribaya akikiye umwana mu ntoki yamwiyegamije, uwo mwana yamwambitse ingofero y'ubudodo, muganga nawe ari gukandira umuti mu kanwa k'uwo mwana.

Abantu benshi cyane bahagaze bari kwifotoza imbere y'inzu iteye irange ry'umweru, iyo nzu iteye irange ry'umweru abo bantu bahagaze imbere y'inkingi eshatu zayo, harimo n'abicaye bakenyeye ibitenge.

Abantu b'igitsina gabo bicaye bazengurutse ameza, kuri ayo meza hateretseho ibirahure birimo ibyo kunywa. Inyuma yabo hari n'abandi bicaye ku ntebe na zo zisa umweru cyangwa se za parasike zisize irangi ry'umweru na bo basa nkaho hari ikintu bahugiyeho.

Abana benshi cyane b'urungano bari kurwanira kuba bashyira ikiganza cyabo ku mugezi, harimo abambaye impuzankano y'i ishuri ndetse hakaba n'abandi batayambaye, hirya yabo haragaragara ibihingwa bihateye isa nk'aho ari mu ishyamba.

Abana benshi bagiye ku isoko y'amazi, basanga itiyo yarapfumaguritse bahatega ibase nini cyane, iri mu ibara ry'umutuku. Barangije na bo bakajya gutegaho ibiganza bari koga kuri buri kenge kose kagiye gapfumuka kuri iyo tiyo cyangwa se impombo ijyana amazi. Hirunze abana benshi cyane higanjemo ab'urubyiruko.

Umugore uhagaze imbere y'abantu benshi cyane bicaye ku ntebe, harimo n'abafite telefone mu ntoki zabo, abandi bakaba bafite amakayi bari kwandika. Imbere y'abo bantu hateretse imeza zirambuyeho igitambaro cy'umweru, ndetse haka harimo n'ibara ry'ubururu. Kuri ayo meza bateretseho amashakoshi y'abagore ndetse n'uducupa turimo amazi yo kunywa.

Abaganga benshi cyane bazengurutse umurwayi uryamye ku gatanda asa nkaho arembye cyane muri aba baganga bose bari bamuhanze amaso kuko bamucometsemo amaserumo.

Abantu bicaye ku ntebe za palasitike zisize irange ry'umweru, imbere yabo hakaba hahagaze umuntu ufite ikaye ndetse n'indangururamajwi, bambaye itaburiya ry'umweru aho aba bantu bicaye hasakaje ihema ririmo amabara atandukanye, harimo ibara ry'umuhondo, ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'ubururu.

Itsinda rigari ry'abana b'urubyiruko bicaye ku ntebe z'urwegamiro, imbera hari kugaragara ameza ateretseho uducupa turimo amazi y'inyange ndetse n'amakayi, bamwe muri bo bambaye udupfukamunwa ndetse bafite n'amakaramu.

Inyubako yubatswe neza cyane ndetse ahangaha umuntu akaba yahakorera ubukerarugendo, kuko ibyinshi abantu baza kuhareba birigaragaza, hagaragara ubwogero bwiza cyane buzwi mu ndimi z'amahanga nka piscine, burubatswe kandi burashamaje.

Ifoto iriho umugabo wambaye ikositimu ndetse na karuvati n'ishati y'umweru hejuru ye hari amagambo ari mu ibara ry'umweru imbere gato handitse amagambo menshi cyane hasi hari ikirango cyanditseho Arabisi ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima mu Rwanda.

Abaganga baje kureba uko umurwayi uryamye ku gitanda cyo kwa muganga ameze, bitewe n'uko aho bari bamusize bamuryamishije cyangwa se banamuhaye na serivisi, bakeka ko hari icyaba cyahindutse. Umurwayi yambaye agapfukamunwa ndetse akaba aryamye agaramye.

Abana bari ku mugezi umwe akaba yateretseho ikibido cyangwa se ikijerekani ari kuvoma, yambaye akagofero karimo utudomo gakozwe mu budodo, ku ruhande hakaba hicaye undi we udafite ikibido wagira ngo arinze uwo mukuru.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara na karuvat, ishati yumweru ndetse n'indorerwamo z'amaso. Afashe agakapu agafashijwemo n'undi muntu uri ku ruhande rwe, bose bagafashe mu ntoki basa nk'aho bari kukerekana handitseho gusura u Rwanda. Inyuma yabo hari ikirango kiri mu ibara ry'ubururu.

Abagore bicaye imbere y'inzu isize irange ry'umuhondo, bakaba bicaye ku ntebe y'urubaho itambitse, imbere yabo hahagaze undi wambaye ingofero y'umweru n'agapfukamunwa n'umupira w'umutuku, afashe ikinini cyangwa se ikizwi nk'igitonyanga ari kugitonyangiriza mu kanwa k'umwana.

Umwana wambaye ishati y'icyatsi n'ikabutura iriho imifuka ku ruhande, ari gutega ikiganza ku mugezi, ari koga mu ntoki. Inyuma ye hagaragara indobo iri mu ibara ry'ubururu ihateretse ndetse n'imbere ye gatoya haragaragara indobo ipfundikiye iri mu ibara ry'ubururu ndetse no kuri uwo mugezi hasize ibara ry'ubururu.

Itsinda rigari ry'abantu benshi harimo ab'urubyiruko ndetse n'abandi bakuru bambaye indorerwamo z'amaso, muri bo harimo abambaye ijili igaragaza umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku mbabare ndetse hari n'undi wambaye jiri nayo igaragaza abakorerabushake.

Itsinda rigari ry'abantu bicaye ku ntebe zitambitse z'urwegamiro zikaba zikozwe mu mbaho, bafite amakayi ku bibero byabo, muri iyo nyubako bicayemo haragaragaramo impapuro zigiye zimanika ku gikuta kandi zanditseho n'amagambo.

Umuntu w'igitsina gore uri gukaraba kuri kandagira ukarabe yakoze, yifashishije ibiti bitatu aho yashinze ibiti bibiri ku mpande akandikaho ikindi hejuru yagiteye imisumari, yarangiza agacengezamo akabuni agakorotira hasi akajya akandagira ku mushipiri yaziritseho amazi akagwa mu kiganza akoga.

Itsinda ry'abanyeshuri imbere yabo hakagaragara ameza ateretseho udukombe ndetse n'ikintu kimeze nk'ikidomoro ariko njyewe nagifata nk'aho arikandagira ukarabe yabo, bari kuvomaho amazi barangiza bakayanywa.

Umuganga wipfutse agatambaro mu mutwe, cyangwa se akaba yagakoze mu buryo bw'ingofero, yambaye itaburiya y'ubururu ari kureba mu cyuma gikunze gukoreshwa basuzuma uko umubiri w'umuntu umeze mu ndimi z'amahanga kizwi nka sikaneri.

Umuntu uri guterwa urushinge na muganga ku rutugu aho muganga yafashe ishati y'uyu muntu yarangiza akayihina kugira ngo aze kubona aho atera kuko ntapfa gutera urushinge ahubwo arabanza akareba ahabugenewe nko mu mutsi kugira ngo umuti winjiremo.

Amazi meza ari kumanuka mu mpombo y'icyuma, hari akagaragara ikiganza cy'umuntu gitezeho kiri koga, ayo mazi aramanuka akitura hasi agakora ikintu gisa nk'aho ari ikitega cyangwa se ikiyaga kuko yirundanyiriza hamwe.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri, ahagaze arimo kwifotoza, yashyize ikiganza cyangwa se ukuboko kwe kuri kandagira ukarabe yakozwe hifashishijwe indobo nini y'umweru, inyuma ye hagaragara urugo rw'ibikenyeri.

Umuntu w'igitsina gore wambaye isaha ku kuboko, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hagaragara icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse hakagaragara n'ikirango cy'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku bana uzwi mu ndimi z'amahanga nka UNICEF, ku rundi ruhande hagaragara amafoto arimo amabara atandukanye nk'umutuku, umuhondo ndetse n'ubururu.

Abana bakoze akaziga barangije batega ibiganza hejuru cyangwa se inyuma yabo, hari umugabo wambaye bote, afite agakombe karimo amazi ari kubasukiira mu ntoki bakoga, bamara koga ya mazi akagwa muri ka kabase bateze hasi.

Umunyeshuri wambaye impuzankano akaba ari gukaraba mu ntoki akoresheje kandagira ukarabe, muri icyo kigo haragaragaramo abandi bana bari kugenda ndetse hakagaragara n'igiti kihinze kirekire cyane cyazanye ibitabi noneho bigatuma haza agacucu muri icyo kigo.

isoko y'amazi yabonetse mu gishanga, barangije bubaka umugezi. Uwo mugezi Uburyo wubatsemo ntabwo ari ubusanzwe, kuko iyo umuntu agiye kuvoma bisaba ko hari undi muntu ugomba kujya afata icyuma cyo ku umugezi akakizunguza cyangwa se akakinyonga, kugira ngo amazi azamuke. Aho hantu haragaragara abana bahahagaze harimo abari kureba uko icyo cyuma kiri kunyongwa amazi akaza. Ku mugezi yateretseho iki...

Inyubako nini cyane isize irangi ry'umweru, iyo nyubako isakaje amabati y'umutuku ndetse ikagira n'ubusitani bwinshi cyane kuko ikimeze nkaho ari ikigo.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zo kwa muganga harimo n'abakikiye abana, muri bo abenshi baragaragara mu ntoki bafite amafishi, bisobanuye ko baba baje gukingiza harimo ababanje gufata inkingo zirimo iz'agakwega tetansi, izo zihabwa abana ndetse hagaragara n'abandi bicaye wagirango ngo baje gupimisha inda.

Umugabo uri impande y'igishanga cyangwa se uri impande y'uruzi ari koza igare, imbere ye hari umugore uri kuvoma amazi, aho ahagaze mu mazi yarangiza akanayavoma, kandi ikigeretseho byashoboka ko ubu ngubu ajye kugenda akanayatekesha ndetse akaba yanayanywa bikaba byateza abana be ndetse nawe kurwara indwara zitandukanye nk'impiswi, korera ndetse n'izindi.

Abantu bane barimo umwe w'igitsina gabo abandi bose ni ab'igitsina gore. Bahagaze imbere y'icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru. Kuri icyo cyapa kandi hagaragaraho Ikirango cya Repubulika y'u Rwanda. Urundi ruhande uhita uhabona icyapa cyanditseho Umuryango Mpuzamahanga ushinzwe kwita ku bana, Unicef mu ndimi z'amahanga.

Yicaye ku mugezi harimo umugore wafashe ibasa ashyiramo amazi arangije yicazamo umwana arikumwoza, hirya ye hahagaze undi mwana wateretse indobo ku mugezi amazi amaze kugeramo nawe ari gukaraba mu ntoki. Si uwo gusa kuko hari n'undi mugore nanone uri kumwe n'umwana we umwana akaba amufashe mu nda.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bafite udukombe bari kunywa amazi. Ayo mazi bayavomye ku kigega kiri aho ngaho mu kigo. Inyuma y'icyo kigega haragaragara uruzitiro rw'amabati ashaje ndetse n'akazu gatoya kari inyuma y'urwo ruzitiro rw'amabati ashaje. Si ibyo gusa, kuko hagaragara n'ibindi bihingwa, harimo nk'insina z'imibyare.

Abantu bicaye ku murongo bakikije ba ameza hagati yabo bose bafite amakaye ndetse n'amakaramu, imbere y'umwe muri bo hari ahagaragara agacupa karimo amazi yo kunywa, inyuma yabo hari intebe nyinshi cyane hari izicayeho abantu ndetse n'izitariho abantu.

Icyapa kiriho abantu benshi barimo itsinda ry'abana b'urungano, irindi tsinda ririmo umugore n'umugabo, umugabo wambaye ikositimu ndetse itsinda rya nyuma rikaba ririmo umugore ukikiye umwana mu ntoki, inyuma yabo hagaragara icyapa cy'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima Unicef.

Umuntu usutamye imbere y'amabase abiri agerekeranije, muri ayo mabasa abiri hakaba ateretsemo ikibuni yateretse ku mugezi, inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda itandukanye, harimo imipira ndetse n'amapantaro, iyo myenda yari amajije kuyifura arangije arayanika kugira ngo izuba niriyicamo ize kuma neza.

Isoko y'amazi iherereye mu gishanga, aho bubatse umugezi udakoze mu buryo butamenyerewe. Aho umuntu iyo agiye kuvoma aterekaho akabuni noneho hakagira undi ujya gufata ku cyuma kiri haraguru akanyonga, uko muri uko kunyonga ni ko amazi agenda ava hasi azamuka mu itiyo, noneho uvoma na we akavoma. Hashungereye abana benshi cyane bari kureba uko biri gukorwa.

Abantu bahagaze imbere y'akazu k'amazi hateretse ibibuni byinshijwe ngo bivome babizanye harimo umugore ukini igitenge ndetse akaba yipfutse n'igitambaro, iruhande hari umwana mutoya utari muto cyane kuko ni umukobwa na we wambaye ikanzu idoze mu gitenge.

Abantu biyubashye bicaye mu nzu, imbere yabo hari ameza bose bayagose, kuri meza haragaragaraho udukombe duteretse k'udusahane, utu dukombe dukunze gukoreshwa abantu banywa icyayi, cyangwa se nk'ikawa, muri abo bantu kandi hagaragaramo umugabo wambaye karuvati, ndetse n'indorerwamo z'amaso.

Itsinda rigari ry'abantutu benshi cyane, harimo abana, abakuru ndetse n'abakecuru n'abasaza, bicaye ku bisima bisa nkaho ari ahantu mu isoko, nyuma yaho hakagaragara icyo bita kandagira ukarabe ikozwe mu cyuma.

Umuntu w'umuganga wipfutse agatambaro cyangwa se agakora mu buryo bw'ingofero, yambaye agapfukamunwa ndetse yambaye n'itaburiya y'ubururu cyangwa se icyatsi kitagaragara neza, imbere hari ibyuma byo kwa muganga, murabizi namwe kwa muganga habayo ibikoresho byinshi bitandukanye.

Umuntu wambaye ishati ya karokaro, akaba yahinnye ukuboko kumwe kw'ishati, muganga na we we akaba afite ipombo irimo umuti ndetse n'urushinge, yambaye n'uturindantoki ari kumutera kuri uko kuboko. Ari kumutera urwo rushinge kandi harimo n'umuti.

Abajyanama b'ubuzima bari kuririmba, hagaragaramo benshi bari gukoma amashyi, bakaba bambaye n'amataburiya yabo ajya gusa ubururu. Muri umwe muri bo harimo uwambaye isaha anahetse n'igikapu ku rutugu gisa ubururu. Imbere yaho hahagaze umugabo ufite uruhara ndetse akaba yambaye n'ikositimu y'umukara.

Abantu benshi cyane bicaye bari kwifotoza, muri bo harimo abambaye itaburiya y'umweru ndetse n'abambaye indorerwamu z'amaso, si ibyo gusa byaba ari iby'umwihariko kuko harimo n'abambaye ingofero, inyuma yabo hagaragara icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse kikaba kinariho n'amashusho y'abantu bafotoye.

Umwana w'umukobwa wambaye ikanzu iri mu ibara ry'ubururu akaba yambaye n'inkweto zifunguye, imbere hateretse kandagira ukarabe ikoze mu ndobo iri mu ibara ry'icyatsi, hirya hagaragara undi mwana nawe uhahagaze kandi n'imbuto zitandukanye.

Inyubako ikiri kubakwa, muri iyo nyubako haragaragaramo amatafari ahiye arunze ahantu hamwe imbere y'akazu gasize irangi ry'ubururu ndetse n'urugi rukaba rusize irangi ry'ubururu, kuri iyo nyubako kandi ikaba izitijwe n'icyitwa senyenge.

Ikimodoka kirekire kimeze nka rukururano gifite amapine menshi cyane, gisize irangi ry'umweru, kuri cyo hakaba hashushanyijeho ikintu kimeze nk'ikiziga ariko kirimo ibara ry'ubururu naryo rikoze ikiziga, imbere harimo ikindi gishushanyijwemo kimeze nk'ikirabyo, imbere y'iyo modoka ndende cyane harimo indi nayo iri mu muhanda.

Umwana wambaye ikanzu y'amaboko magufiya idozwe mu gitenge, afite igipipiri cyangwa igicupa kinini cyane gikozwe muri parasitike kirimo amazi ari kugenda agikanda ayo mazi akameneka, imbere ye hari umugezi wubatse neza ndetse n'inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Itsinda rigari ry'abantu benshi cyane, bahuriye ahantu hameze nko mu kibuga, ariko imbere yaho hakaba hari inzu ishushanyijeho cyangwa se igaragaraho icyapa, imbere yayo nanone hakagaragara, ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Muri abo bantu benshi hari abicaye mu itente cyangwa se ikizwi nk'igisharagati, aho ngaho hakagaragara abahetse abana n'abandi b'abagabo.

Abantu bari ku mugezi bicaye ndetse n'abandi bahagaze, muri bahagaze harimo umugabo munini cyane wambaye umupira w'umutuku ndetse n'pantaro yi'ikoboyi, hirya yaho hari inyubako zitandukanye.

Abana basutamye munsi y'umugezi bateze ibiganza ku mugezi, amazi ari kumanuka ava mu mpombo, noneho bo bagategaho ibiganza, muri abo bana babiri umwe yambaye agapira k'amaboko magufi k'umutuku.

Ababyeyi benshi bicaye ku murongo inyuma yaho hakaba hagaragara inzu yubatswe hakoreshejwe amatafari ahiye, bariya ababyeyi bose bateruye abana babo, abatabateruye mu ntoki barabakikiye.

Umugore waje kuvoma uteretseho amabuni ku mugezi, kuko uwo mugezi ugizwe n'imigezi ibiri, inyuma ye hagaragara icyapa cy'umuryango mpuzamahanga wita ku bana UNICEF, imbere ye hakagaragara ikindi cyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umwana usutamye ku mugezi. ari guseka cyane yateze ibiganza ku mugezi, amazi ari kumanukira mu ibiganza bye arangiza akayoga mu ntoki, iruhande rwe hagaragara ibibuni bateretse harimo ikibunni gisa umuhondo, ndetse n'ikindi gifungishije umufuniko utukura, ariko cyo kikaba gisize irangi ry'ubururu.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hasi yayo haciyeho akarongo, hakaba handitse andi magambo ari mu ibara ry'umweru na yo, hejuru gatoya hari ikirango cy'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku bana UNICEF.

Mu kibuga harimo abajyanama b'ubuzima benshi cyane bambaye amataburiya yabo. Inyuma yabo hari ikigango cyangwa se igisharagati, bishatse kuvuga ko ari ibiti baba bafashe cyangwa se ibyuma bakabishinga bakabambaho ihema hejuru kugirango abantu ba bicaremo mu buryo bwo kwirinda ko izuba ryabica. Muri bo nkuko bari ku murongo imbere yabo harimo uwambaye ishati y'umweru wicaye ku ntebe ya parasitike.

Umuntu w'igitsina gore wicaye imbere y'amabase abiri agerekeranyije, muri ayo mabase hakaba hateretsemo ikijerekani cyangwa se ikibuni ari kuvoma. Inyuma ye hari umugozi yanitseho imyenda.

Umubyeyi ukikiye umwana mu ntoki hejuru yambaye ubusa, ari imbere ya muganga, muganga yashyize ijosi akuma gashinzwe gukoreshwa mu gupima uko umutima utera, hirya ya muganga hateretse ameza hariho impapuro nyinshi ndetse n'imiti.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza WASAC, bikaba bisobanura ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku mazi, kuri icyo cyapa haragaragaraho ikirango kirimo umugezi ndetse n'ibara ry'ubururu, si ibyo gusa kuko hejuru yaho hari n'akandi kantu gasa nkaho ari imirasire y'izuba iri kurasa mu kiyaga,

Ihuriro ry'abantu benshi cyane bakoze nk'inama harimo ababicaye imbere ndetse n'abandi bicaye mu ntebe ari abantu benshi cyane muri abo bicaye imbere haragaragaramo umuntu w'igitsina gore umwe gusa abandi bose ni abagabo bambaye amakoti y'mikara ndetse n'amashati y'umweru na za karuvati inyuma yabo hagaragara igishushanyo kiriho abantu.

Abayobozi bicaye ku ntebe batandukanye ariko bose ukabona wagirango umugambi n'umwe cyangwa se imbere yabo hari abandi bantu batari kugaragara kuko batumbiriye imbere, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyandikeho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Ihuriro ry'abantu benshi cyane bari ahantu mu kibuga imbere yabo hari abahagaze, ndetse n'abandi bafashe umwana bamushyira ku gipimo gipima uburebure, inyuma y'abo bantu hari umuntu wambaye imyenda cyangwa se impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko muri bo harimo umugore wakubise ipfukamizo hasi cyangwa se wapfukamye akaba akenyeye igitenge kirimo amabara y'umweru ndetse n'umutuku, inyuma ye hahagaze umuntu w'igitsina gabo wambaye ingofero y'urugara ndetse n'ishati y'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu benshi cyane bashungeye uko umuntu w'igitsina gabo ari kuvoma. Yateretse ikiguni ku mugezi, arangije araza afata icyuma kiri kuri uwo mugezi, aramanza akinyogwe, uko agenda akinyonga ni ko amazi agenda azamuka noneho we akavoma. Igihe araza kurekera kukinyonga amazi na yo ntabwo araba akizamuka.

Bicaye bateganye hari ibipande bibiri birebana

Abantu benshi cyane bari mu cyumba cy'inama. Imbere yabo hateretse amazi. Imbere ya bose hicaye izindi ntebe eshatu zirimo abayobozi, harimo babiri bambaye amakositimu ndetse n'umugore umwe. Inyuma y'abo bantu hari icyapa kiriri mu ibara ry'ubururu ndetse hakaba handitseho n'amagambo manini ari mu ibara ry'umweru.

Itsinda ry'abantu b'igitsina gore bahagaze imbere yabo hateretse ameza ariko hakaba hari umwe wabateye umugongo, wambaye ijipo iri mu ibara ry'ubururu akaba yipfutse n'igitambaro, hejuru yambaye ishati idozwe mu gitenge, yifashe mu mayunguyungu ari kwifotoza.

Abana baje kuvoma bose bari mu rungano. Uko bahagaze ku murongo ni bane, bateretse akabuni ku mugezi, umuntu w'igitsina gore ari kuzunguza icyuma cy'umugezi kugira ngo amazi azamuke ubundi bakavoma. Hirya yabo hari imodoka isize irange ry'umweru ihaparitse.

Ameza ateretseho igicupa kirimo amazi, ku ruhande hakagaragara akantu bateretseho isabune kazwi mu ndimi z'amahanga nka porote savo, ayo ameeza akozwe mu biti arasize irangi cyangwa se verine, bisa uwo muntu ateze ibiganza kuri icyo gicupa ari gukaraba mu ntoki.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane aho bamwe bicaye, hakaba hari umuntu wambaye ijiri ndetse ufite na marete ku kuboko, uri kugenda abaha impapuro. Inyuma ya haragaragara abandi bamaze kuzihabwa, harimo uwambaye isaha ndetse ku ruhande hakagaragara n'undi mugore wambaye ingofero, usa nkaho ari gusaba urwo rupapuro kugira ngo barumuhe kuko yateze ikiganza.

Abantu bicaye bagose ameza bambaye amakositimu atandukanye, harimo uwambaye karuvati n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara abandi bagabo harimo hambaye amakositimu, imbere yabo hateretse udusahane turiho amatasi akunze gukoreshwa cyane cyane abantu bari kunywa icyayi.

Abantu bicaye mu kigango gisakaje ihema, bishatse kuvuga ko iki kigango kiba cyubatswe bafashe ibiti bakabishinga hejuru bakabambaho ihema. Muri abo bantu harimo abagabo banini cyane harimo nk'uwicaye ku ntebe imbere ye hakaba hari ameza ateretseho amakayi akaba afite n'ikaramu mu ntoki, imbere ye haragaragara umugore witambiye no mu mutwe afite n'akana.

Umugore uri kwa muganga wambaye ingofero y'ubudodo n'agapfukamunwa muganga ari kumutera urushinge cyangwa se ari kumukingira umugore bitewe n'uko ari kubabara yahumirije cyane bigaragara ko ari kumva uburibwe, inyuma hari n'abandi bantu bari kwakirwa n'abaganga.

Umugabo n'umugore bicaye imbere y'umuryango w'inzu. Umugore yicaye mu ntebe ya purasitike iteye irangi ry'ubururu, umugabo yicaye ku gatebe k'urubaho gatambitse, yarambitseho n'amakayi menshi cyane. Umugore afite urupapuro mu ntoki, akikiye n'umwana mu ntoki, umugabo na we afite ikayi mu ntoki.

Abantu batanu harimo abagabo batatu ndetse n'ab'igitsina gore babiri bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa, bafite amakaramu terefone ndetse n'amakaye bari kwandikamo bafite ibyo bari kuganiraho.

Itsinda rigari ry'abantu benshi cyane bari imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaba iteye irangi ryubururu, kuri iyo nyubako handitseho amagambo avuga ngo gira ubuzima, muri abo bantu harimo uw'igitsina gore wambaye umupira cyangwa se ishati y'umutuku, hakaba n'undi ufite ikayi uhagaze ku ruhande, wambaye n'indorerwamo z'amaso.

Abantu benshi cyane baje kuvoma harimo abazanye indobo ndese abandi bakazana ibibuni binini, abandi bakazana utubuni dutoya cyane, muri izo ndobo harimo izitandukanye zifite amabara y'ubururu ndetse n'izifite amabara y'umuhondo n'umweru.

Abantu babiri bari ku mugezi. Umwana yazanye kuvoma indobo isa umuhondo, amaze kuyipfundikira ari kuyikorera ariko ibigaragara byo yamunaniye kuko yunamye ariko imbere ye hari umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'agapira k'ubururu, yamwihoreye ntabwo ari kumukorera.

Umugezi wubakiye ahantu mu kibaya aho uwo mugezi ukora mu buryo budasanzwe aho tumenyereye ko ahandi amasoko usanga afunguye ukivomera ndetse amazi akaba atemba ariko uyu mugezi wo ukuntu ukoze hari icyuma umuntu afataho akakinyonga yamara kukinyonga amazi akazamuka undi akavoma.

Abantu bicaye kuburyo bazengurutse bakoze ikintu gisa nkaho ari uruziga hagati yabo bateretseho ameza ashashi y'igitambaro cyu'mweru muri bo harimo uwitambiye cyangwa se uwipfutse nk'abisiramu agatambaro k'umweruba yambaye umwenda w'umutuku abandi baricaye ariko hari n'undi umwe uhagaze wambaye ishati y'umuhondo.

Abaganga bambaye ibyenda by'ibishashi birebire, biri mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hicaye umusaza wambaye imyenda y'umukara ndetse n'ingofero y'ubudodo y'ubururu, arasamye cyane umuganga ari kumureba mu kanwa, ku rundi ruhande hahagaze n'abandi bantu bari ku murongo, bategereje ko na bo bagerwaho.

Umuntu w'uruhu rwirabura aragaragaza amarira ari kuva mu jisho, ijisho rye riragaragara ko ryatukuye cyane, ikigaragara cyane cyane ni uko iri jisho rirwaye.

Umuntu w'umugabo wambaye agakabutura kari mu ibara rya kaki yicaye hasi yambaye n'isengeri afite imisatsi y'amaderede, yafashe igipine arangije agishyira mu nda bishake kuvuga ko yakimanuriye mumutwe arangije kigera hagati mu gatuza ke noneho aricaye na cyo acyambaye.

Abantu benshi bicaye imbere yabo hari ameza ndetse bakaba barambitseho n'amatelefone yabo abandi bari kwandika bafiteho n'amakayi ndetse si ibyo gusa kuko hari n'uwashyizeho igikapu imbere yabo hahagaze umuntu uri kubasobanurira byinshi ku byo bari kwiga inyuma ye hari undi uhicaye baribagabwe bicaranye ndetse hakagaragara n'ibyapa bimanitse inyuma ye.

Abantu bahagaze nk'aho bari kwifotoza, hagati muri bo harimo uwambaye iniforomo cyangwa se impuzankano ikunze gukoreshwa n'igipolisi cy'u Rwanda, akaba yambaye n'ingofero, ku ruhande hari umusaza wambaye imyenda y'umukara ndetse akaba yambaye n'isaha, muri bo harimo n'abandi bagore ndetse harimo n'ufite ishakoshi ku rutugu.

Umuryango wicaye mu mbuga, imbere y'inzu yabo iteye umucanga. Bicaye ku gatebe gatambitse k'urubaho, hakurya bicaye abagore babiri bifubitse ibitenge ndetse n'akana gatoya.

Abantu babiri bicaye ku ntebe, harimo uwambaye ikanzu irimo ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu. Imbere yaho hateretse agasuperi gakoze muri mpande enye, muri ako gasuperi haragaragaramo ibishushanyo by'abana bahagazemo hagati.

Umugabo ugeze mu za bukuru warize cyane amarira agashoka mu maso akageraho n'ibimyira bimanuka ndetse ntanabihanagure kuko bikigaragara hejuru y'umunwa, amaso ye yabaye umutuku cyane kubera kurira.

Itsinda rigari ubona ko ari iry'abantu basobanutse ndetse hakagaragaramo n'umugore wa nyakubahwa perezida Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bafite utwapa imbere yabo bari kwifotoza, inyuma hakagaragara inzu imeze neza cyane ifite n'ubusitani.

Umugabo usa nkaho ari kwifotoza, yambaye ishati y'amaboko maremare badoze, afite ubwanwa buconze, inyuma ye haragaragara abandi bantu harimo uwambaye agapira k'umutuku ndetse n'ingofero. Si abo gusa bahari kuko wagira ngo ni ihuriro ry'abantu benshi cyane bari mu kibuga.

Itsinda ry'abantu bagera kuri batanu, bane akaba ari ab'igitsina gore, bicaye ku gatebe k'urubaho, gatambitse n'amakayi n'amakaramu mu ntoki, imbere yabo hicaye undi w'igitsina gabo na we wicaye ku gatebe ke k'urubaho gatambitse, inyuma yabo hagaragara ibihingwa bigiye bihateye, harimo nk'umubyare cyangwag se insina y'igitoki.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu bwijimye, hakagaragara amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'ibishushanyo by'abantu, haragaragara umuntu wicaye n'abandi bahagaze ku mpande ebyiri ziteganye. Bafashe ikintu gikoze umuntu.

Umuntu ufite indangururamajwi asa nk’aho ari kuvuga, akaba afite n'imisatsi myinshi cyane y'amaderede ifata kw’ishati yambaye, ku ruhande rwe yicaranye n'umugabo wambaye umupira w’umukara, ndetse imbere yabo hateretse na mallet cyangwa agakapu abagore bakunze kwitwaza k’urutugu.

Ihuriro ry'abanyeshuri benshi cyane bari mu kigo, bose bakaba bazamuye ibiganza, basa nka ho bari gupepera cyangwa bari gusuhuza cyangwa bari gusezera umuntu, hejuru bambaye amashati y'ubururu, inyuma yabo hagaragara ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bafite amadarapo y'ibendera ry'u Rwanda, bayahanitse hejuru ni utudarapa dutoya cyane, wagira ngo bari kwamamaza, noneho hari umubyeyi uteruye umwana, uwo mwana we afite utudarapo tubiri mu ntoki, ndetse yakutse n'iryinyo imbere.

Abantu benshi cyane bahagaze bari kwifotoza hakaba higanjemo urubyiruko, bambaye hejuru udupira tw'ubururu imbere twanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umweru, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati n'ipantaro y'umukara.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ayo magambo hari amagambo matoya arimo ibara ry'umukara wijimye ndetse n'andi manini ari mu ibara ry'umukara wererutse hirya yaho haragaragara ikintu kimeze nk'aho ari ururabo bashatse gushushanya, kuko akari hejuru bakoze mu buryo bw'umutima n'ubwo ari akarabo.

Umuntu washashe ahantu ibitenge, akaba yaziritse akantu mu maguru, yifashe ku gahanga ubona yumiwe, ibibazo iyo bimaje kurenga umuntu, hari igihe aba atagifite igaruriro nta n'icyo yabikoraho ndetse akabitekerezaho akumva agiye kure.

Abantu, abantu babiri bahagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi, bicaye mu ntebe, abo bantu babiri harimo ufite agashakoshi mu ntoki, ndetse afite na mikorofone cyangwa se indangururamajwi imbere ye, hakaba hari umukobwa wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Abantu babiri bicaye ku gatebe k'urubaho gatambitse, umwe yambaye ipantaro y'ikoboyi, undi yifubitse igitambaro kirimo ibara ry'umutuku, uwambaye ipantaro y'ikoboyi yambaye ishati y'amaboko maremare n'isaha, ari kumufata ku rutugu, inyuma yabo hanitse inkwi z'imyase.

Itsinda rigari ry'abantutu benshi cyane bicaye, imbere yabo hari ameza ateretse igitambaro cy'umweru ndetse n'amazi yo kunywa. Umwe muri bo wagaragajwe cyane, ni uwambaye indorerwamo z'amaso, impande ye hakaba hari mudasobwa, iriho icyapa cyanditseho amagambo. Imbere y'uwo mugore hateretse ibicupa bitatu by'amazi, akaba yambaye impeta y'abashakanye, isaha, afite n'ikaramu mu ntoki.

Abantu bicaye ku ntebe imbere yabo bakaba hari ameza ashasheho igitambaro ,ndetse hakaba hateretseho n'uducupa tw'amazi turim'amazi yo kunywa, si ibyo gusa kuko hari na telefoni n'ikayi biharambitse .Imbere yabo hahagaze umuntu wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufiya akaba afite n'indangururamajwi. Inyuma ye hakaba hamanitse igipapuro cyangwa se icyapa cyanditseho amagambo arimo ibara ry'umweru.

Abantu benshi bicaye mu kiryango gisakaje ihema bakaba bicaye ku ntebe za pasurasitike z'umweru ndetse imbere yabo hagaragara n'abandi bambaye udupfukamunwa, bicaye ku ntebe imbere yabo hagaragara ameza ahateretse n'umugore wambaye umupira ujya gusa igitaka, sibyo gusa bihari kuko hagaragara n'intebe zipanze.

Abantu bicaye bipfutse ibitambaro, harimo n'umugore uhetse umwana. Imbere yabo hari umuntu uri kubaganiriza, wambaye agapfukamunwa. Yasize aho yari yicaye amazi, ari mu gicupa kinini cyane kuko aho yari yicaye hari hateretse n'ameza ariho n'igitambaro. Inyuma y'aho yari yicaye hagaragara icyapa kihamanitse, kiriho n'ibendera ry'u Burundi.

Itsinda ry'abantu bagera kuri batanu, bicaye ku ntebe y'urubaho itambitse, ab'igitsina gore bane bicaye ku rubaho rwabo ndetse n'uri imbere yabo, ariwe w'umugabo yicaye ku gatebe na we k'urubaho kari imbere yabo. Inyuma yaho haragaragara igihingwa cy'insina y'umubyare. Insina y'umubyare yera igitoki ndetse hakagaragara n'igiti cya avoka kiri hafi aho ngaho.

Icyapa cyanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umukara utsindagiye cyane, ku ruhande hahagaze abantu babiri harimo uwambaye igisarubeti ndetse n'agapfukamunwa, hejuru akaba yambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru ndetse n'undi wambaye ipantaro isa igitaka.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye yitangirije amaboko ku gahanga, ibigaragara byo wagira ngo afite umunaniro cyangwa se niba atari umunaniro ahubwo afite agahinda kenshi cyane kuko bigaragara ko ababaye. Ku ruhande hari undi w'igitsina gore wambaye isaha ku kuboko yamufashe ku rutugu, agaragaza nkaho ari kumwihanganisha amubwira ko byose bishoboka ko yakwihangana.

Icyapa kiriho amagambo yiganjemo ayanditse mu ibara ry'icyatsi, umukara, umutuku, ndetse n'umuntu wambaye agapfukawa k'umweru, akaba yipfutse igitambaro cy'umukara.

Inyubako nini cyane yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, imbere y'iyo nyubako hari ubusitani burimo indabo zitandukanye, si aho ngaho gusa hagaragara indabo kuko no ku muryango winjira muri iyo nyubako hateretse amavaze abiri arimo indabo, hirya y'aho haragaragara nanone igiti kinini cyane kiri imbere y'iyo nzu.

Umugabo wambaye ipantaro y'igitaka ndetse akaba yambaye n'ingofero y'urubaraza ahetse n'igikapu mu mugongo, yambaye isaha y'urushinge ku kuboko ndetse n'ibindi bikomo, si ibyo gusa kuko hari n'afurari yambaye.

Umukecuru ugeze mu zabukuru yambaye iribaya ridozwe mu gitenge, icyo gitenge kirimo amabara atandukanye harimo umweru umukara icyatsi cyijimye ndetse n'umuhondo, icyasagutse akipfutse mu mutwe nk'gitambaro.

Umugabo uhetse igikapu akaba yambaye n'isaha n'ipantaro y'umweru ahagaze imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye ku ruhande rwe gato hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo hakoreshejwe ibara ry'umukara ndetse kuri icyo cyapa hanagaragaraho ikirango cya repubulika y'u Rwanda.

Intebe nyinshi cyane zicayemo abantu, imbere yabo hakaba hari abandi bahicaye hateretse n'ameza arambitseho igitambaro cy'umweru, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho RBC ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima mu Rwanda ndetse n'andi magambo y'icyongereza yanditswe mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu.

Umugabo ugeze mu zabukuru ufite umusatsi ugaragara ko urimo umwanda mwinshi cyane ndetse n'imvi nyinshi cyane n'imyenda yacikaguritse, ishati yo igaragaramo n'ico rikomeye cyane ku buryo wayikubita inkoni ikameneka, arasamye ari kureba hejuru ariko ikigaragara wagira ngo afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umusaza wambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu akaba yarakutse amenyo ari mapengu ndetse ari guseka cyane ntiyitaye ko bari kureba ko ntamenenyo afite ariko we ari guseka, afite n'ubwanwa burimo imvi, yashyizeho umusatsi nk'umwe wa wundi w'abarasita cyangwa se w'abasitari nk'ibigezweho.

Abantu benshi cyane harimo abicaye imbere ku ntebe, inyuma yabo hakaba bahagaze abandi. Inyuma ya bose hari icyapa cyanditseho ijambo RBC, risobanura mu kinyarwanda Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Kwita ku Buzima. Abo bantu bahagaze nk'abantu bari kwifotoza kandi koko biragaragara kuko buri wese yisunze undi, yegeranye n'undi agize uko yifata kugira ngo ifoto ize kuza isa neza.

Icyapa cyanditseho amagambo menshi cyane anyuranye kuko yose ntabwo yanditse ku murongo ahubwo byanditse mu buryo butandukanye, aho amwe aba atambitse andi ahagaze ariko bikagaragara ko ari uburyo bwateguwe kuko ijambo ryose kurisoma warisoma neza kandi ukaryumva, bitewe n'uko bagiye bayandika. Harimo amabara atandukanye, harimo icyatsi, harimo ubururu, harimo umukara n'ayandi.

Abantu babiri bose bambaye imipira y'imyeru y'amaboko magufi, umwe afite akadodo ari kugacisha mu menyo, abigaragariza undi ko ari byiza ko no gukoresha cyangwa se gusukura amenyo bifashishije akadodo ari ingenzi.

Umwana wambaye agashati k'umuhondo, akaba yarapfuye amaherena. Muganga yambaye akarindantoki, afite akuma kameze nk'akayiko ariko gafiteho indorerwamo, yagashyize mu kanwa k'uwo mwana kuko uwo mwana arasamye.

Abantu bari mu cyumba cyo kwa muganga, harimo umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'agapira k'amaboko maremare k'umweru, imbere ye hateretse impapuro ndetse n'ikaramu na terefone, yicaye ku ntebe ya parasitike, hirya hari abandi baganga, bari kwandika na bo.

Umuntu w'igitsina gore yambaye ingofero, afite akantu kameze nka magaro ariko ko ntabwo ari icyuma ahubwo gakoze muburyo bwa parasitike, hejuru ahafatwa nkaho ari ku menyo ya magaro nako ariko kameze harimo akantu kameze nk'akadodo noneho ari kugafata ako kantu agakubisha ku menyo ye.

Umuganga wambaye uturindantoki, akaba afite akuma kameze nk'aho gahandura. Mu kiganza cye afite igipupe kigaragaza igitanda cy'amenyo y'umuntu ariko akaba afite igice cyo hasi. Hari kugaragara amenyo harimo ibijigo ndetse n'andi atari ibijigo.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'urwugamiro zikozwe mu rubaho imbere yabo hari ameza maremare yambitseho igitambaro cy'umweru ndetse buri umwe umwe wese imbere ye hari agakarito karimo umuti w'amenyo, hari umuntu uhagaze muri bo yambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi ryanditseho tubiteho koza amenyo.

Umu ntu w'igitsina gabo wambaye agapira k'amaboko magufi k'umweru, afite ubwanwa bukeya cyane buconze neza cyane, inyuma ye haragaragara ikirango kiri mu ibara ry'umuhondo werurutse, ari guseka cyane afite amenyo y'urusaro adafite n'akanda na mba kayagaragaraho.

Umwana uryamye agaramye ku gatanda ko kwa muganga, muganga nawe ari inyuma ye asa nkaho amwiyegamije afite akantu kameze nk'akayiko ndetse n'akandi kameze nk'aho ari akuma mu kindi kiganza yambaye uturindantoki.

Igice cya kananwa kigaragaza igitanda cyose cy'amenyo harimo amenyo ya ruguru ndetse n'amenyo yo hasi, mu menyo yo hasi hagaragara cyane ni amenyo harimo za muzika ndetse hakaba hagaragara n'amenyo y'ibijigo.

Umugabo wambaye ikanzu y'umukara, akaba afite akantu kameze nk'akadodo ari gukubisha mu menyo. Ibyo ari kubikora yongera akireba mu ndorerwamo, inyuma ye hakagaragara igitambaro gihanitse kiri mu ibara ry'umutuku.

Itsinda rigari ry'abantu bari kwifotoza, hakaba higanjemo urubyiruko, Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo, ndetse muri abo bantu bari kwifotoza hari abicaye imbere, ndetse inyuma yabo hakaba hahagaze abandi, inyuma yabo harimo umukobwa wambaye ishati y'amaboko maremare n'indorerwamo z'amaso.

Umuntu w'igitsina gabo wegamye ku gatanda ko kwa muganga, akaba yambaye agapira k'amaboko magufi k'umukara ndetse akaba afite umusatsi mwinshi cyane, yawusokoje uruhanika, imbere ye hari umuganga, akaba afite akuma. Uuwo muntu na we akaba ari gukora kuryinyo yereka muganga irirwaye kugira ngo amuvure.

Umuntu w'igitsina gore wicaye ku ntebe isize irarangi ry'umweru, akaba afite indorerwamo ari kwireba mo hirya ye hakaba hateretse agakombe gateretse ku mugezi cyangwa se lavabo.

Umugabo ufite udusatsi tw'utuderede akaba afite akadodo mu biganza bye, ari kugacisha ku menyo cyangwa se ari kugakubisha ku menyo, akaba yambaye n'agapira k'amaboko magufi gasa umweru.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzankano bafite udukombe mu ntoki turimo amazi ndetse n'uburoso bari koza amenyo ibi ni bimwe mu byafasha umuntu kugira ngo amenyo ye abe meza cyane kandi arindwe kuba yakwatakwa n'indwara zitandukanye kuko nyuma yo kurya ugomba guhita ufata uburoso ukoza amenyo kugirango ngo hatagira ibiryo bisigararamo na mikorobe.

Muganga yambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki n'itaburiya bisa umweru. Ari kumwe n'umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi k'icyatsi, aho uwo mugabo yasamye, muganga akaba arimo kumureba mu kanwa, inyuma ye hakaba hateretse imiti.

Muganga yambaye itaburiya y'umweru, yambaye n'isaha ku kuboko, imbere kumeza hateretse igipope kigaragaza igitanda cy'amenyo uko aba ateye, afite akuma ari kugenda akoza ku menyo harimo ay'ibijigo akereka undi bicaranye bgaragara nkaho ari kumusobanurira uko yakwirinda ko amenyo ye yangirika.

Muganga yambaye uturindantoki afite akuma kameze nk'akayiko akagi n'akandi kigonze nako ariko ko ku gasongero kako kameze nk'aho kariho agafuniko. Muganga w'undi afite urushinge agiye gutera uyu mwana mu ishinya rumeze nk'urushinge rugabanya ububabare ruzwi mu ndimi z'amahanga nka salumu.

Inyubako ndende cyane igeretse kabiri ikaba isizwe irangi ry'ubururu, uruzitiro rw'iyo nyubako nii runini cyane kuko imbere yaho haragaragara n'izindi nyubako, ndetse hakaba hari n'ubusitani burimo indabo.

Umugore n'umugabo bahuje urugwiro, umugabo akaba yambaye indorerwamo z'amaso afite n'imvi nyinshi cyane yaba mu bwanwa ndetse no mu musatsi, afite telefone mu kiganza ukundi kuboko gufashe ku rupapuro n'uk'umugore gufashe ku rupapuro, bari kureba bose bari kurusomaho, izindi zirambitse ku meza.

Umuntu w'igitsina gore ufite imvi nyinshi cyane mu musatsi we akaba yambaye amaherena ku matwi, ari guseka cyane imbere ye ahafite agasahane ateruye mu ntoki kariho ibyo kurya, afite ikanya mu ntoki ayigeze hejuru y'ibyo byo kurya.

Itsinda rigari ry'abagore bicaye ahantu mu isoko, imbere yabo hakagaragara inyanya, inyuma yabo hakagaragara imbuto zitandukanye harimo n'amaronji. Aya maronji bajya kuyagura mu baturage aho baba barayahinze, noneho bakayazana mu isoko ndetse bakahahurira n'abandi bantu ari bo bakiriya baza kuyagura, kuko bo baba batarayahinze.

Umubyeyi w'umugore yicaye ku ntebe ari kumwe n'akana ke, imbere ye hakaba hari ameza yakozwe mu buryo bw'imbaho, kuri aya meza hariho ibinini byinshi cyane, uwo mugore wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare ari gufasha akana ke kubibara.

Umugabo uri kumwe n'umugore umugore yamufashe mu mugongo umugabo nawe yambaye agapira keza cyane gasa igitaka umugore yambaye agapfukamunwa umusaza afite imvi nyinshi cyane bari kureba ahantu hamwe wagirango ngo umugore ni we uri kumuyobora.

Umusaza ufite imvi mu musatsi ndetse no mu bwanwa yambaye ishati y'amaboko maremare, yicaye ku ntebe imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse ku rundi ruhande hicaye umuganga wambaye akuma gakunze gukoreshwa mu gupima uko umutima utera.

Abantu b'igitsina gore bari ku murongo harimo uwambaye agapfukamunwa akambarira hepfo y'akananwa akaba yipfutse igitambaro, yambaye ikanzu idozwe mu gitenge inyuma ye hakurikiyeho abandi bambaye imipira y'umweru hejuru ndetse n'amajipo y'umukara cyangwa se ingutiya z'imikara harimo n'abambaye ingofero z'urugara.

Umugabo n'umugore bakaba bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza, base bafite imvi mu musatsi wabo, bari guseka cyane wagira ngo sinzi amakuru bahawe atumye bishima, kuko uko ubibona mwagira ngo n'ibintu bibatunguye birabashimishije ku rwego ruhambaye.

Umugabo wambaye imyenda y'umweru ufite imvi mu bwanwa ndetse no mu musatsi, hejuru ye hahagaze umugore ufite umusatsi mwinshi wa natireri cyangwa se umusatsi mwinshi yavukanye, akaba yambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu. Inyuma ye haragaragara umusego w'umweru.

Umugore n'umugabo bari kwirukanka, umugore akaba yambaye isaha ku kuboko ndetse n'umugabo akaba yambaye isaha ku kuboko, umugabo akaba yambaye na none impeta y'abashakanye cyangwa se y'abashyingiranywe, uwo mugore umusatsi we hagaragaramo imvi nyinshi cyane, bose bari kwiruka baseka.

Umusaza n'umukecuru bambaye udupira tw'umutuku, umukecuru mu gapira yambaye hatambitsemo utubara tw'umukara yamba urunigi mu ijosi, bose bafite umusatsi urimo imvi nyinshi, umusaza yambaye indorerwamo z'amaso ndetse no ku meza ari imbere yabo hateretse indorerwamo z'amaso n'agakombe kaparastiki, umusaza ari gusobanurira umukecuru uburyo araya afatamo ibinini.

Abantu bicaye mu gishararaga gisakaje ihema, muri abo bantu bicaye hari bicaye imbere, harimo umukecuru wambaye ijosi urunigi rurimo utunigi tw'umukara ndetse n'utuninigi w'umweru, mumusatsi we hagaragaramo imvi nyinshi cyane, iruhande rwe hicaye undi mugabo wambaye ishati irimo ibara ry'umweru ndetse n'ingofero y'urugara.

Abagabo bahagaze harimo n'abari gukoma amashyi, umugabo umwe ari gusuhukanya n'undi ufite akagare k'ababana n'ubumuga. Inyuma yaho haragaragara ikigango cyangwa se isharagati kihubatswe, kiri mu mabara atandukanye. Harimo ibara ry'icyatsi, ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo. Hafi aho ngaho hari n'igiti gihari kinini cyane, hakagaragara n'icyapa inyuma yabo.

Umugore uhagaze ahantu imbere ye akantu kameze nk'ameza, afite mikoro cyangwa se indangururamajwi ari kuvugiramo. Yambaye urunigi mu ijosi, rurimo ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru, afite imvi nyinshi cyane, inyuma ye mu kibuga hari imodoka ebyiri zihaparitse.

Umugabo n'umugore bicaye mu nzu. Umugabo yambaye jire ijya gusa umukara, akab’afite n'imvi nyinshi mu musatsi we ndetse no mu bwanwa. Uwo w'igitsina gore umwicaye iruhande, bari kurebana mu maso ukabona bafite akamwenyu bose ndetse nk'abari kurebana akana ko mu jisho.

Itsinda ry'abantu benshi bahagaze bahanitse ibiganza abandi bagahanika udutoki abandi bagahanika udusuka dukunze gukoreshwa mu gukacura nk'ibishyimbo ndetse no gutera ibishyimbo, bagaragara nkaho bari kwifotoza kuko bose basetse cyane harimo umwe muri bo wambaye ingofero y'urubaraza utwo dusuka bamwe bafite dukunze kwifashishwa mu gutera imbuto harimo nko kuba batera amashaza arimo nko kuba batera ibishyimbo ndetse no kuba babisukira no kubikacura.

Umukecuru ugeze mu zabukuru yambaye indorerwamo z'amaso, afite umusatsi w'imvi nyinshi cyane, ari hagati y'umusore n'inkumi cyangwa se urubyiruko, uwo musore cyangwa se uwo mugabo yambaye agapira k'amaboko maremare kari mu ibara ry'umutuku, umukobwa na we yambaye umwenda w'umweru, ku meza hateretse imboga rwatsi.

Abantu benshi cyane harimo abamanitse udusuka twa nyirabunyago, abandi bakamanika telefone, udafite ikintu mutoki yamanitse ikiganza. Muri abo bantu harimo ab'igitsina gore benshi cyane, bambaye imyenda irimo baratandukanye, harimo umuhondo ndetse n'umutuku.

Umugabo wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga. Yambaye indorerwamo z'amaso, afite imvi nyinshi cyane mu musatsi we ndetse no mu bwanwa, iruhande rwe hicaye akandi kana gafite imisatsi myinshi cyane, kakiri gatoya, kari kumusekera, bose bari kurebana ukabona umwana ari kumwenyura. Uwo mugabo yambaye ipantaro y'ikoboyi.

Umugabo wambaye indorerwamo z'amaso n'agapira k'amaboko magufiya, hirya ye hicaye umuganga wambaye imyenda isa ubururu akaba yashyize akuma gakoreshwa mu gupima uko umutima utera mu ijosi, yafashe icyuma gikoreshwa bari gupima uko amaraso agenda mu mubiri agishyira kuri uyu mugabo, gipima umuvuduko w'amaraso.

Umugabo ugeze mu zabukuru ufite ubwanwa burimo imvi nyinshi cyane, ahantu yicaye imbere ye hari ameza asize irange ry'umweru, hateretse mudasobwa, hari umuntu umufashe ku rutugu w'igitsina gore ari kumuhereza agacupa karimo imiti, umugabo nawe yateze ikiganza kuri iyo meza hateretse n'ikirahure kirimo amazi.

Umukecuru n'umusaza umusaza afite imvi nyinshi cyane yaba mu bwanwa ndetse no ku musatsi, umukecuru yambaye amaherena ku gutwi, yambaye n'impeta y'abashakanye bose barazambaye, umukecuru afite agapapuro kanditseho uko umusaza azajya afata imiti cyangwa se ibinini, umusaza nawe afite agacupa mu ntoki n'ibinini mu kiganza, bari kugenda bamusobanurira uko arajya ayifata.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, yicaye ahantu ari gufata inkwi kugira ngo azishyire mu ziko. Atetse ku mashyiga, agasafuriya atetsemo gafite imbyiro nyinshi cyane ndetse n'ako apfundikije gafite imbyiro nyinshi cyane. Ntabwo ari mu gikoni kuko ni ahantu hatari inyubako.

Umukecuru ufite imvi nyinshi cyane n'umusatsi mwinshi cyane yambaye impeta y'abashakanye ndetse yapfumuye n'amaherena ku gutwi, yambaye indorerwamo z'amaso afite ikirahure kiririmo amazi, yifashe ku mazuru wagirango ari kwitsamura.

Umuryango wicaye ku ntebe imwe y'amadive bose bishimye. Inyuma yabo haragaragara indabo nyinshi cyane. Muri abo bantu bicaye kuri iyo ntebe harimo umusaza ugeze mu zabukuru wicaye impande y'akana k'agakobwa gatoya ndetse n'umugore wambaye umupira w'umuhondo.

Umugabo wambaye impeta y'abashakanye ku uruhande rwe hari umugore wambaye amarinete ndetse n'amaherene imbere ye hari mudasobwa bigaragara ko nubwo umugore ari kumweyreka agacupa karimo umuti ariko asa nkaho ari kwandika ibintu muri iyo kopiyuta cyangwa se mudasobwa aho bicaye hari impapuro ziteretse ku meza.

Umugore munini cyane, wambaye agashanete mu ijosi. Afite inkoni ku ruhande yigonze. Arayifashe ndetse yambaye n'ishati y'amaboko maremare. Ari kwifotozanya na muganga ufite ubwanwa bwinshi cyane, mu ijosi he akaba yahashyize ka kuma, gasanzwe gakoresha mu gupima uko umutima utera.

Umugore ugeze mu za bukuru akaba afite imvi nyinshi cyane mu musatsi we, yambaye amaherena kumatwi, ariku n'undi ukiri ufite imisatsi cyane iri no gukora ku rutugu, akaba yambaye agapira k'amaboko magufiya, bafashe akuma mu ntoki bose bagahuriyeho.

Abantu bageze mu zabukuru, bicaye ku ntebe za parasitike, zisize irangi ry'umweru, inyuma yabo haragaragara insina y'igitoki ariko ntabwo yari yera kuko ikiri ntoya, inyuma yaho hagaragara n'izindi nini cyane, muri abo bantu harimo abazanye marete zabo, baziteretse iruhande rwabo.

Umugabo uri kumwe n'umuganga, umuganga akaba yamufashe ku bitugu, umuganga yambaye n'isaha y'umukara ndetse barebana baseka, uwo mugabo akaba afite icyuma yashyize hasi ku makaro, akishingikirijeho.

Abagore batatu bari guseka cyane, ntiwamenya ikibateye akanyamuneza, baricaye imbere yabo hari ameza ahari, umwe muri bo afite amakarita mu ntoki n'undi afite ikarita mu ntoki ndetse afite n'umusatsi mwinshi cyane usa umweru.

Abagabo babiri bari mu nzira harimo uwambaye ingofero y'urugara ndetse n'isaha ku ukuboko, bafatanye ku rutugu, harimo muremure wambaye umupira w'amaguru magufi usa ubururu ndetse n'inkweto zifunze bose nizo bambaye, inyuma yabo hagaragara ibiti birebire cyane.

Umuryango w'abantu batanu bose bari gufata ifoto bishimye, harimo umugore ufite umusatsi urimo imvi nyinshi cyane ndetse hakabamo n'umugabo wambaye indorerwamo z'amaso ari we ugaragara nk'aho ari papa wabo, inyuma yabo haragaragara imodoka isize irangi ry'umweru ihaparitse.

Umukecuru n'umusaza bageze mu zabukuru, umusaza afite imvi nyinshi cyane mu bwanwa ndetse no ku musatsi we ndetse n'umukecuru nawe afite imvi nyinshi, yambaye urunigi mu ijosi imbere ye hateretse ikirahure kirimo amazi ndetse n'ameza, afite urupapuro mu ntoki, umusaza ari kumwereka muri telefone.

Umusaza ufite imvi nyinshi cyane mu bwanwa ndetse no mu musatsi, yambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu n'ikabutura y'umukara, yegeranye n'undi w'igitsina gore iruhande rwe, wambaye imikara hose yaba hejuru ndetse no hasi, amufashe ku rutugu, uwo musaza ari hagati y'ibyuma bibiri bitambitse.

Umusaza w'imvi z'uruyenzi, yambaye ishati ya karokaro, akikiye umwana mutoya. Uwo mwana afite igipopi mu ntoki ze, kirimo ibara ry'igitaka, ndetse ku mutwe kigaragara ko hariho ibara ry'umweru.

Umugabo ufite inkoni yigonze hejuru yambaye agapira k'amaboko maremare kazwi nka runiga ndetse afite imvi nyinshi mu bwanwa ari kurebana na muganga bagaseka wagira ngo sinzi ibyo barimo baganira baziranye cyangwa se bibashimishije.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hagaragara n'amashusho cyangwa se igishushanyo cy'umuntu wicaye ku ntebe, inyuma ye hari undi wambaye itaburiya ndetse n'agapfukamunwa, imbere yaho hakagaragara n'ibiganza byazamuye amaboko, hasi hakagaragara ibirango bibiri harimo icy'u Rwanda ndetse n'icy'umuryango ushinzwe kwita ku buzima mu Rwanda.

Abantu benshi bicaye ku ntebe ziteye ku murongo inyuma yabo hahagaze abandi bantu, inyuma ya bose hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'andi ari mu ibara ry'umukara wijimye.

Icyapa cyanditseho amagambo, harimo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'ari mu ibara ry'umutuku, ku ruhande hakagaragara akantu gasa nk'aho gashushanyije karimo amabara atandukanye, harimo ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'ubururu, gasa nk'aho gakubiranije.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara wijimye ndetse si ibyo gusa kuko hari n'andi mabara ari ahongaho. Harimo nk'ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo, ibara ry'umutuku wijimye ndetse n'andi atandukanye.

Icyapa cyanditseho amagambo menshi ndetse hakaba hariho n'amafoto y'abantu, harimo uwambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'umwenda w'umweru. Kuri icyo cyapa haragaragara amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ari hejuru ndetse n'andi yanditse mu ibara ry'umukara, ari hasi ajye agaragara nk'aho ari mu bika.

Aha ngaha haragaragara icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse hakagaragaraho n'ikirangantego cy'u Rwanda. Si ibyo gusa byonyine bihari kuko hari amagambo ari mu ibara ry'icyongereza, ugenekereje mu kinyarwanda irya mbere riravuga ngo "Repubulika y'u Rwanda," hasi hakaba handitse ngo minisiteri y'ubuzima.

Umuganga wambaye akagofero gakunze gukoreshwa na bamwe bo mu idini rya isiramu, ari gutera umugabo urushinge ntabwo nabisobanukirwa neza niba ari uko arwaye ariko birashoboka ko yaba arino kumukingira nk'icyorezo, ndetse bose bambaye udupfukamunwa.

Umuntu w'igitsina gore wambaye ipantaro y'umukara ndetse akaba afite indangururamajwi asa nkaho yahawe ijambo ari kuvuga, yicaye mu ntebe z'amadive iyo ntebe y'idive ikaba iriho irange cyangwa se isa igitaka, inyuma ye hakagaragara icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Abagabo babiri umwe akaba yicaye undi amuhagaze inyuma, uko babona bose bambaye neza ku buryo bugaragara, bose bambaye amashati y'imikara ndetse n'amakoti y'imikara, bifashe neza nk'abantu bari kwifotoza ndetse kuri icyo cyapa hagaragara n'amagambo ari mu mabara atandukanye harimo nk'ibara ry'umweru wijimye ndetse n'ubururu.

Umugabo wambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'ingofero akaba afite igipapuro cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku ariko atari umutuku wererutse, inyuma ye hari inzu ndende cyane ndetse n'igiti cyakurumbye kikaba gifite itabi binini.

Itsinda rigari ry'Abayobozi bicaye mu ntebe bafite ibyo bari kuganira bahurijeho, bakaba bahaye umwe w'igitsina gore microphone cyangwa se indangururamajwi, kugira ngo atange ibitekerezo ku nsanganyamatsiko runaka bari bihaye kugira ngo baganireho, inyuma yabo hakagaragara icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi cyijimye, hakaba hagaragaraho umutima uri mu ibara ry'umweru ndetse hejuru y'uwo mutima handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru na yo ndetse n'umubare gatatu.

Itsinda rigari ry'abantu bahagaze ndetse n'abandi bicaye, abahagaze benshi biganjemo bambaye udupfukamunwa ndetse inyuma yabo hari n'icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse muri abo bahagaze na none bafite n'udukapa mu ntoki.

Imbaga y'abantu benshi cyane, bahagaze ndetse n'imbere yabo hicaye abandi, barimo gufata ifoto cyangwa se bari kwifotoza, imbere yabo hateretse ameza arambitseho igitambaro gisa umweru, ayo meza akoze mu buryo bw'ikizeru cyangwa se muviringu ateganye n'andi meza ateretseho ishakoshi, cyangwag se igikapu abantu b'igitsina gore bakunze gukoresha.

Icyapa kiriho amagambo agaragara mu ibara ry'ubururu manini cyane ndetse epfo na none hagaragara andi magambo manini yanditse mu ibara ry'umweru, muri icyo cyapa hagaragaraho utubazo turi mu ibara ry'umweru tukaba turi mu kantu k'akazeru ndetse n'amagambo matoya yanditse mu ibara ry'umukara.

Umugore wambaye ishati y'amaboko maremare, akaba yambaye indorerwamo z'amaso, imbere ye hagaragara utumikoro tubiri ndetse yambaye n'isaha. Ku ruhande haragaragara icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, hejuru y'umutwe we na ho haragaragara indi nteruro y'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Icyapa kigaragaraho ibibabi bitandukanye ndetse hakagaragara n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, asobanura ko ari umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku bidukikije itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa nzeri bibiri na makumyabiri na kane.

Kwa muganga habayo ibyuma byinshi bitandukanye, hari igihe wumva umuntu ngo yagiye guca mu cyuma ariko ibyuma biratandukanye, hari icyuma gikunze gukoreshwa kizwi mu rurimi rwa'amahanga nka sikaneri; ni cyo bagucishamo bakareba uko umubiri wawe umeze wose.

Ababyeyi bateruye abana babo bari guseka cyane kuko burya iyo ufite umwana uba ubona ko ari icyagukomotsemo aba ari amaraso yawe, hejuru yabo hari ibyapa bishushanyijeho abantu ndetse byanditseho n'amagambo.

Icyapa kigaragaraho amagambo atandukanye, harimo ayanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'ayanditse mu ibara ry'ubururu, hagaragaramo n'agakadiri , karimo ifoto y'umugabo, hasi kanditsweho amazina ye ko yitwa Dogiteri Noel Gahimanyi.

Ihuriro ry'abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko rwinshi. Bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro ndetse hariho na mudasobwa iharambitse. Bose bari kureba imbere basa nkaho bari kumva iby'umuntu ari kubagezaho ndetse harimo benshi bafite akamwenyu ku minwa yabo.

Abantu benshi b'igitsina gore, bicaye ku gisima cy'akabaraza k'inyubako, muri bo harimo abipfutse ibitambaro ndetse n'abambaye ingofero z'ubudodo, bari kureba mu cyerekezo kimwe bose nk'abari gufotorwa.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara yanditse avuga ngo non communicable deseases, bishatse gusobanura mu kinyarwanda: indwara zitandura cyangwa se indwara zitakwambukanwa cyangwa se umwe ngo abUyayitera undi. urugero harimo nk'umuvuduko w'amaraso ndetse na diyabete.

Icyapa kiriho umwana uryamye, afubitswe agatambaro k'umweru, hepfo ye hagaragara amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, hakaba harimo amagambo ari mu ibara ritoya ndetse n'amagambo ari mu ibara rinini.

Inyubako yubatswe mu buryo bw'igorofa ikaba igeretse kabiri, imbere y'iyo nyubako haragaragara umuntu wambaye umupira w'umutuku ndetse ari no mu mutaka, ku ruhande hari imodoka zigera kuri enye z'ubwoko bumwe zose ziparitse.

Itsinda rigari ry'abagabo ndetse n'abagore bahagaze ku gicumbi cyangwa se icyapa ariko cyo cyubatse, kiriho n'amagambo agaragaza ivuriro rya Butaro, inyuma hagaragara ibiti byinshi bihari kandi birebire.

Inyubako ifite ubusitani bwiza cyane aho hagaragara indabo zitandukanye harimo indabo zifite umuhondo izindi zikaba zifite umutuku ndetse inyubako zigaragara hari izisakaje amabati y'ubururu.

Umuntu w'igitsina gore uryamye ku gitanda cyo kwa muganga icyo gitada kikaba gishasheho igitambaro cy'umweru akaba yiyoroshe ikindi aryamye agaramye afite imisatsi myinshi cyane ku ruhande rwe hagaragara ibindi byuma byinshi cyane bicometse byo kwa muganga.

Inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye. Inyuma y'iyo nyubako hari ubusitani bugari cyane, burimo indabo zitandukanye. Harimo indabo nyinshi cyane, aho hari nk'iziraba umutuku ndetse hakagaragara na pasiparumu itoshye cyane, zigaragara ko zabonye imvura cyangwa se amazi ahagije.

Ibitaro bya Nyarugenge muri iyo nyubako igaragara ko yubatse mu buryo bw'igorofa, ndetse ikaba isize irangi ry'umweru. Ukigera mu muryango uhabona icyapa gisize irangi harimo umukara ndetse n'utundi turongo dutoya tugiye ducamo tw'umweru. Imbere y'iyo nyubako ari ururabo rurerure cyane ndetse si ururabo ruhari gusa kuko no ku ruhande hariho izindi ndabo.

Agatanda ko kwa muganga gafite hasi udupine, kakaba gashasheho igitambaro cy'umweru, hirya yaho hari televiziyo ifunguye iri kugaragaramo ishusho irimo ibara ry'ubururu, kuruhande gatoya hagaragara ifoto ibambitse cyangwa imanitse ku gikuta cy'iryo vuriro, hagaragaraho umuntu wambaye agapira karimo n'umukara.

Amazu meza asize irangi risa nk'ivu ndetse akagira n'ubusitani buririmo indabo nyinshi cyane, wagira ngo zitewe vuba nibwo zitangiye gufata neza, imbere y'ubwo busitani hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi, ariko amagambo asomeka yanditse mu ibara ry'umweru.

Inyubako nini cyane yubatse mu buryo bw'amagorofa, imbere yayo haparitse imodoka ebyiri. Muri iyo nyubako haragaragaramo umuryango ucuruza imiti, unamambyeho cyangwa se umanitseho ibyapa byinshi cyane, hari nk'icyaditseho ubwiza ni ubuzima.

Inyubako ishashemo amakaro, ukinjira mu muryango uhita ubona hasi igishushanyo cy'igice cy'ijisho kishushanyije kuri aya makaro, hirya gatoya hari indi foto cyangwa se icyapa kiriho abantu babiri, harimo uw'igitsina gore wambaye indorerwamo z'amaso, inyuma yabo hari umuntu uhicaye.

Inyubako nziza cyane yanditseho isange wani sitopu senta bakaba baranagerageje kubishyira mu rurimi bw'ikinyarwanda aho banditse ngo aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Iya purasitike isize irangi ry'umukara. Imbere yaho hakaba hari ameza asize irangi ry'umweru ndetse ateretseho na mudasobwa. Imbere gatoya uhita uhabona igice cy'ijisho kihashushanyije.

Inyubako nini cyane isize irangi ry'igitaka, imbere y'iyo nyubako hateye indabo zitandukanye, muri iyo nyubako uhita ubona amadirishya asize irangi ry'umweru, ndetse iyo nyubako inagaragaza amakositara yayo kuko imbere hari amaposita abiri abiri kuri buri ruhande.

Ibyuma; ibyuma byo kwa muganga bigaragaza imboni y'ijisho ndetse n'ibice by'ijisho, aha ngaha muri ibi byuma byo kwa muganga, bari kugaragaza uko ijisho rirwara bitewe n'ibintu bitandukanye; ndetse hakagaragara n'intebe ziteye, n'ameza ateretseho mudasobwa.

Inyubako y'ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge. Muri iyo nyubako hasize irangi ry'umweru, ndetse ahantu hari icyapa cyanditseho aya magambo, ari mu ibara ry'umweru, hasize irangi ry'umukara. Imbere y'iyo nyubako haragaragara indabo nyinshi cyane zakuze.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Kigina hagaragara umugore uhetse umwana ndetse ukenyeye n'igitenge ari ku muryango w'iyo nyubako, kuri iyo nyubako ukihagera uhita ubona ko yubatse muri ibyo bikingi byaryo, hakaba imbere yaho haba harimo urugi rufunguye igipande kimwe.

Abaganga benshi cyane bahagaze kwa muganga, bakaba bambaye ibintu bimeze nk'ibisarubeti ariko byo kuko bifite n'ingofero, biri mu ibara ry'umweru hakaba haciyemo n'akandi kabara k'ubururu, hakurya hamanitse inzitiramubu, ibitanda na byo birahari, ndetse n'amarido arahagaragara.

Umugore ukikiye umwana mu bishora byiza cyane akaba yambaye ishati y'umweru ndetse n'agashanete mu ijosi, inyuma ye muganga nawe yambaye indorerwamo z'amaso ndetse akaba afite akuma gashinzwe gupima uko umuvuduko cyangwa se uko umutima w'umuntu utera yagashyize mu ijosi.

Itsinda rigari ry'abantu, bahagaze imbere y'ibitaro bya Kabutare. Aho ngaho ku bitaro bya Kabutare muri abo bantu, haragaragaramo abakobwa babiri cyangwa se b'igitsina gore babiri ndetse n'ab'igitsina gabo benshi aribo biganjemo. Umwe wambaye umupira w'amaboko magufi uri mu ibara ry'ubururu, inyuma ye haragaragara imodoka iparitse.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, mu amadirishya hakaba harimo amadirishya asize irangi ry'umweru, imbere y'iyo nyubako hicaye abantu bicaye ku ntebe zitambitse z'urubaho, hari n'abandi bicaye ku bisima by'iyo nyubako, imbere yabo hari icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo, inyuma yabo bakaba n'abandi bahagaze harimo n'uhetse umwana wegereye imodoka iparitse.

Inzu nini cyane isize irangi ry'umweru ndetse n'amatara manini cyane akoze mu buryo bwa mpande enye. Muri iyo nzu hagaragaramo ibyumba bakoze bifashishije ibitambaro, aho bagiye bafata ibitambaro bakabihanika hejuru ndetse bagacamo ibyumba. Sibyo byonyine bihari kuko buri cyumba kigaragaramo igitanda ndetse n'intebe ihanitseho umwambaro.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ikaba isize irangi ry'umweru ndetse n'umukara, imbere yayo hari indabo zihateye ndetse ku ruhande gatoya haragaragara indi nzu bisa nk'aho bifatanyije umuryango umwe usizeho irangi ry'ubururu.

Icyumba kigari cyo kwa muganga, gisize irangi ry'umweru ndetse hakaba harimo ibitanda byinshi cyane biryamyeho abarwayi. Abaganga na bo ntibabatereranye kuko bazi neza, banasobanukiwe inshingano zabo, bari kugenda bagera ku murwayi bamubaza uko ameze, kugira ngo babone uko bamufasha.

Umuforomo wambaye agapfukamunwa uri kugenda ahazwi nko muri korodoro, imbere hahagaze abandi baganga barimo baganira kandi igikuta yegereye gisize irangi ry'umweru ndetse hakaba hanamanitseho n'ibyapa bitandukanye ari nk'icyapa kiri mu ibara ry'ubururu.

Inyubako y'ibitaro bya Nyanza yegereye ku umuhanda wa kaburimbo ukigehagera uhasanga ibyapa bibiri binini harimo ikiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ikiri mu ibara ry'umweru hasi kirimo ibara ry'ubururu hari n'akandi kapa kandiditseho amagambo ukigera ku muryango wayo uhasanga handitseho inyuguti ebyiri za ha ziri mu ibara ry'umweru.

Umubyeyi wicaye acikiye umwana wambaye ingofero y'umweru irimo utubara dutoya tw'umukara akaba amukikiye mu bishora by'imyeru dede, muganga arikora ku mwana cyangwa se ashaka kumuterura kugira ngo uwo mubyeyi amumuhe muganga nawe we yambaye itaburiya y'umweru indorerwamo z'amaso ndetse n'akagofero mu mutwe kari mu ibara ry'ubururu.

Inzu nini cyane isize irangi ry'umweru ndetse no muri parafo cyangwa se mi idara naho bikaba bigaragara ko ariryo rihasize, iyo nzu ikaba irimo igitanda cy'ibyuma gifite n'udupine hasi; kikaba gisize irangi ry'umweru ndetse kikaba gishasheho ishuka isa umweru hari n'umusego uhateretse.

Inyubako ndende ikaba ifite akabaraza kari imbere yayo, hasi mukabaraza neza hateretse amavase abiri ari mu buryo butandukanye hariburyo ndetse n'ibumoso hari ibaze riteretsemo ururabo imbere gatoya gisa nkaho usohoka muri ako kabaraza hari indabo nyinshi cyane zitandukanye.

Inyubako yo mu buryo bugezweho ubona ko ikomeye kandi igendanye n'igihe, yanditseho Afurika mu buryo bw'icyongereza ariko niyo ubivuze ngo Afurika umunyarwanda cyangwa se undi munyafurika wese ahita abyumva yashobora no kubyandika.

Inyubako ndende cyane yo mu bwoko bw'igorofa, hejuru y'i nyubako hagaragara ibigega byinshi cyane. Hasi wahabona imodoka iri gukingurirwa kuri bariyeri isohoka. Inyuma y'iyo bariyeri hari icyapa cyanditseho amagambo, ndetse kuri urwo ruzitiro rw'iyo nyubako hagaragara n'ubusitani burimo indabo.

Inzu ifite indabo mo imbere, hakagaragara n'ikibaho cyanditseho amagambo yanditse hakoreshejwe ibara ry'umweru. Inzugi z'iyo nzu zirimo ibirahuri binini cyane ku buryo biba bigera hasi. Ku mpande amakadiri ni yo aba ahagaragara, na ho hagati hose haba ari ikirahure.

Abantu batatu bari mu cyumba, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba afite n'akuma gashinzwe gupima uko umutima utera yagashyize ku rutugu. Afite mu ntoki ikayi n'ikaramu, ari kubaza umuntu umwicaye imbere noneho akandika. Imbere ye hagaragara ameza asize irangi ry'umweru. Inyuma ye hahagaze undi muganga na we ufite ikayi n'ikaramu.

Umuntu w'igitsina gore wicaye munsi y'igiti kinini cyane gifite ibitabi birebire, ku ruhande rwe hakaba hari indabo zitandukanye, aho yicaye ni ahantu bubakiye igiti barangije baragikorotera cyangwa se barakizitira barakizenguruka cyose, yicaye kuri ako gasima kari impande y'icyo giti.

inyubako y'ibitaro bya nyarugenge, yubatswe mu buryo bw'igorofa mbere yaho hakaba hagaragara abantu babiri bambaye imyenda y'umweru, ndetse mu busitani bwabo n'ibugari cyane kandi buba buteguye neza burimo n'isuku, ukigera imbere y'iyo nyubako uhasanga ururabo rurerure cyane ruteye mu mu tubuye bahashashe.

Urukuta rwubakishije amatafiri arihiye, muri urwo rukuta hagati hazwi nk'amadirishya harimo ibyuma bigiye bitambitsemo, imbere hasa nk'aho ari mu kibuga, hakagaragara n'utwuma abana bakunze gukoresha binyongaho, ibyo byuma biho biriho, ndetse imbere yaho hakanagaragara n'indabo zihateye ndende.

Abantu benshi cyane bicaye muri korodoro, bakaba bicaye ku murongo, imbere yabo hari umugabo wambaye ipantaro ijya gu gusa umutuku, ariko yo irijimye, akaba yambaye n'agapira k'amaboko maremare k'umweru, ndetse n'agapfukamunwa abahagaze imbere ari kuvugisha umwe muri abo ngabo bicaye kuri uwo murongo.

Abantu benshi bari imbere y'ivuriro ryo kwa muganga rikunda gutanga serivisi zijyanye no kuvura abana. Muri abo bantu harimo abambaye imipira iri mu ibara ry'icyatsi cyijimye, hakaba handitseho amagambo inyuma mu ibara ry'umukara. Hirya gatoya haragaragara ikigango cyubatswe cyangwa se igisharagati aho bafata ihema bakaribamba ku giti cyangwa se ku cyuma.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho kandi hakagaragara n'udutageri cyangwa se utubati, tuba dupanzwemo ibikoresho bitandukanye ku buryo umuntu ukeneye kubikoresha bitamufata umwanya munini cyane abishyira ku murongo.

Inyubako nini cyane yubatse mu buryo bw'igorofa, kuri iyo nyubako ifite akabaraza gahagazemo abantu benshi, imbere y'abo bantu haragaragara imodoka zihaparitse, hejuru ku kabaraza hari icyapa cyanditseho inzu y'ababyeyi n'impinja, kuri icyo cyapa kandi hagaragara umugore wifashe mu nda cyangwa se uyicigatiye bigaragara ko atwite.

Umugabo uri guseka cyane adu wambaye indorerwamo z'amaso afite imvi mu musatsi, ndetse yambaye n'agashati keza cyane iruhande rwe haragaragara umuganga ufite mu ntoki akuma gashinzwe kugenzura uko umutima utera.

Abantu benshi cyane bambaye imyenda irimo ibara ry'umweru hejuru ndetse bakaba bafite n'udutebo mu ntoki turimo ibintu bisa umweru, bari kwinjira mu nzu isakaje ibyuma hejuru ndetse ku rundi ruhande haragaragara ko hasize ibara ry'umweru n'ibara ry'icyatsi.

Inzu nziza cyane yubatswe hakoreshejwe amatafari ahiye, ndetse kuri iyo nzu haragaragara ibishushanyo bitandukanye. Hari nk'ikigaragara cyanditseho ijisho, ndetse iyo nzu ikaba na none isakajwe n'amabati y'ubururu.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bw'igorofa, hasi hazwi nko ku mbuga yaho hakaba hahagaze abagabo batatu bari imbere y'imodoka ihaparitse. Ku rundi ruhande hari akazu kagaragaraho ibirango bitandukanye, hariho ibyapa byanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'andi yanditseho ari mu ibara ry'ubururu.

Inyubako, inyubako nini cyane irimo n'izindi nyubako zitandukanye, muri iyo nyubako hagaragaramo akabati ndetse n'umuntu wicaye hafi y'umuryango, iyo nyubako mo hagati hagaragara ko hasa nkaho hari umuhanda wa kaburimbo.

Ikigo kinini kirimo ubusitani bunini cyane harimo indabo zitandukanye, hakaba hagaragara n'igisa nk'umubyare cyangwa se insina ariko si umubyare cyangwa igitsina ahubwo ni ururabo rwitwa karifuma. Uyu mubyare iyo umaze gukura hazaho utuntu tumeze nk'udutoki tuvamo umuti wa karifuma usigwa ku gisebe kigahita cyuma. Iyi nyubako isize irangi ry'umweru.

Inzu nini cyane isize irangi ry'umweru ikaba yarubatswe hakoreshejwe amatafari ahiye, kuri iyo nzu handitseho inzu y'ababyeyi, kabaraza hicaye abantu imbere yabo hakaba hari ameza arambitseho igitambaro cy'igitaka, hirya y'aho hagaragara ubusitani buririmo indabo zitandukanye.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Kigina. Kuri iyo nyubako y'ikigo nderarabuzima cya Kigina haragaragara umugore uhetse umwana uwo mwana akaba yambaye ingofero y'ubudodo mu mutwe. Umugore we akaba akenyeye igitenge ukiva mu muryango w'iyo nyubako cyangwa se w'icyo gipangu uhita winjira imbere ukagera kuri izo nyubako zubakishije amatafari ahiye zikaba zisize n'irangi ry'umweru.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bw'igorofa ikagaragaramo ibendera ndetse n'imodoka ihaparitse, ikigaragara cyo ni inyubako ariko ikoreshwa mu buryo bwo gutanga serivisi z'ubuvuzi kuko handitseho ngo kwa Nyirinkwaya cyangwa se ibitaro byo kwa Nyirinkwaya.

Inyubako y'ibitaro bya Rwamagana, kuri iyo nyubako haragaragara abantu benshi cyane bahagaze munsi y'akabaraza, muri bo harimo abagabo ndetse n'abagore bafite amakayi mu ntoki, kuri iyo nyubako ubusitani bw'aho burimo indabo zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga gikunze gukoreshwa mu gihe baba bagiye kubaga umuntu. Abenshi baragitinya cyane kuko iyo umuntu umuhamagaye ukamubwira ngo ubu ngubu bamaze kumwinjiza muri sare dope cyangwa se operesheni rumu mu ndimi z'amahanga ahita atangira gutinya cyane kuko baba bakeka ko ufite kugenda ukagwamo ntugaruke.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, imbere yaho hagaragara umuhanda umeze nka kaburimbo, kuri iyo nzu hejuru hariho irangi ry'umweru ndetse handitseho n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza hakoreshejwe ibara ry'umukara, si ibyo gusa ahagaragara kuko mbere y'iyo nzu hateye indabo z'amoko atandukanye.

Inzu nini cyane irimo amakaro ikaba iteretsemo intebe nyinshi zitandukanye, harimo imbere yaho hagaragara ameza akoze ikizeru, ayo meza akaba ateretseho indabo hejuru yayo.

Inyubako yo kwa muganga izwi nk'aho abana baherwa serivisi z'ubuvuzi, mu ndimi z'amahanga izwi nka pediyatiri, aha ngaha iyo umwana arwaye ntabwo ajya kuvurizwa ahandi usibye angaha gusa, kuko aha haba hari abaganga b'inzobere mu bijyanye no kwita ku bana, bitandukanye n'uko bamujyana ahandi hasanzwe nk'ahabantu bakuru.

Inyubako y'ikigo gishinzwe gukora ubushakashatsi ku miti, ikaba yubatse mu buryo bw'igorofa, isize irangi ry'umweru, ukihagera uhasanga ururabo ruri ku ruhande rw'iburyo ndetse inzira ucamo ujyayo kuri iyo nyubako irimo kaburimbo, hahagaritse imodoka iri mu ibara ry'umukara, ikaba ifite iyo nzu ubusitani bwiza cyane burimo indabo.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya kinyinya. Yubatse mu buryo bw'igorofa, aho igeretse rimwe. Hejuru isakaje amabati y'ubururu imbere y'iyo nyubako hari ubusitani burimo pasiparumu ndetse n'izindi ndabo zigose pasiparumu ku ruhande ku rundi ruhande hamanitse ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda

Inyubako zisakaje amabati asize irangi ry'umutuku, ndetse urukuta ndetse n'ahandi hose bikaba bisize amarangi y'umweru. Imbere yaho hahagaze abantu ndetse saba bahagaze gusa kuko hari n'abandi bicaye kw’isima yegereye utuyira tujya muri izo nyubako. Izo nyubako kandi zifite ubusitani burimo indabo z'ubwoko butandukanye.

Inzu isize irangi ry'umweru ikagaragaramo intebe zikozwe mu byuma zikunze gukoreshwa cyane cyane mu mabanki, muri iyo nzu washushanyijeho igice cy'ijisho kigaragaza uko ijisho riba rimeze harimo agace k'umukara gakoze mu buryo bw'akazeru ndetse n'akandi gace gakurikiyeho karimo ibara ry'ubururu ndetse igice cya gatatu ari igice kinini cyane gikurikira kigaragaza.

Inyubako ya leta igaragara nk'aho ari amashuri aho haparitse imodoka zigera kuri ebyiri, ndetse mu busitani bw'iyo nyubako hakaba harimo igiti cyangwa se ururabo rwita umutsindo, si ibyo gusa kuko hari na pasiparuma.

Abantu bicaye imbere yabo hari ameza ndetse hanateretse n'udugurudu turimo amazi yo kunywa. Harimo n'ufite mudasobwa imbere ye muri abo ngabo basa nkaho bari mu gice kiri kugirwa inama. Imbere yabo hicaye abandi basa nkaho ari abayobozi babo ndetse ameza yabo ateretse agacupa k'amazi imbere ya buri muntu.

Inyubako yitwa materinete izwi mu Kinyarwanda nk'inzu y'ababyeyi, aha ngaha akaba ari ho abagore bahererwa serivisi zitandukanye, harimo izo kumenya uko batwite ndetse no kumenya uko bazabyara n'uko bazafashwa, igihe babyaye niyo bafashirizwamo, iyo nzu ikaba yubatse hakoreshejwe amatafari ahiye.

Inyubako nini cyane yubatse mu buryo bw'igorofa, imbere yaho hari indabo nyinshi zitandukanye, muri ubwo busitani bugaragara imbere y'iyo nyubako hashinzemo itara rirerire ndetse muri ibyo bihateye hagaragaramo za pasiparumu ndetse n'indabo zisa umuhondo, si ibyo gusa kuko hari n'ibiti bisa nkaho byatewe mu buryo bw'indabo ariko bikaba bimaje kuba bikuru.

Uruzitiro ruriho icyapa cyanditseho amagambo y'Ikinyarwanda agira ati: "ibitaro bya Ruhengeri" mu magambo y'Icyongereza bivuze ngo "Ruhengeri hospital", ku ruhande hari urujya n'uruza rw'abantu.

Inyubako nini cyane isize irangi ry'ubururu, kuri iyo nyubako hagaragara ko ifite akabaraza, muri ako kabaraza k'iyo nyubako hahagaze abantu babiri harimo umugabo ndetse n'umugore uteruye mwana mu ntoki akaba akenyeye igitenge.

Inyubako nini cyane, ifite ubusitani buriho indabo zitandukanye. Muri izo ndabo harimo iziraba uturabo twiza cyane tw'umutuku, muri iyo nyubako kandi ku kabaraza kayo, haragaragara abantu bahagaze. Harimo uwambaye ikote ry'umweru.

Inyubako yo kwa muganga, imbere y'iyo nyubako hakagaragara abantu benshi cyane harimo uwifubitse igitenge ndetse n'undi wagiteze mu mutwe arangije aheka n'umwana amufubika ikindi, kuri iyo nyubako hagaragara amagambo yanditseho mu ibara ry'umukara, harimo nk'avuga ngo aho bakirira abagana ikigo nderabuzima.

Inyubako isize irangi ry'ubururu ndetse ikagira n'urubaraza rusakaye, mbere y'urwo rubaraza haragaragara ikibuga kitari kinini cyane, ariko kigoswe n'indabo zitandukanye.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bw'igorofa hejuru iyo nyubako hagaragara abantu ndetse no mu kabaraza kayo haragaragara abandi bantu bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'amapantaro y'imikara, hirya gatoya hagaragara ubusitani bw'iyo nyubako.

Inzu icururizwamo imiti izwi mu ndimi z'amahanga nka farumasi, muri iyo nzu harimo akabati gapanzemo imiti igiye itandukanye, hejuru mu gisenge cyayo hamanitsemo amatara ariko amatara ntabwo ari kwaka yazimijwe.

Inyubako yo kwa muganga. Muri iki cyumba haragaragaramo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga b'inzobere. Aha ngaha hasize amarange atandukanye harimo ibara ry'igitaka, ibara ry'icyatsi kijimye ndetse ibyo byuma byose birafunguye hari n'ibigaragara ko biri kwaka.

Inyubako yubatse mu buryo bw'igorofa, ikaba ifite igice cyo hasi kigaragaramo ubucuruzi bw'imiti, ahongaho kuri iyo nzu igaragaramo ubucuruzi bw'imiti hariho ibyapa by'imiti myinshi itandukanye, haragaragara n'amagambo agiye yandikwaho mu ibara ry'umweru.

Inzu irimo intebe nyinshi z'amadifi hakaba hasizemo amabara atandukanye wavuga nk'ubururu wavuga icyatsi, umuhondo n'andi menshi. Hagaragara igipupe cy'akanyamasyo kirimo amabara n'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abantu bicaye imbere yabo hateretse ameza asize irangi ry'umweru. Kuri ayo meza hateretseho agacupa gafite umufuniko w'icyatsi. Ako gacupa gakunze kuzamo umutobe. Ku ruhande abandi baganga na bo hari ibyo bari gukora ku meza. Inyuma yabo hahagaze undi muganga wambaye itaburiya n'umwenda w'umukara.

Kwa muganga haba hagaragara isuku nyinshi cyane, kuko aba ariho bandebereho kuko usanze kwa muganga nta suku ihaba nta kintu umuganga yajya agutoza, kuko na bo ubwabo ntabwo baba babaye intangarugero, ndetse aha ngaha haragaragara agatanda ko kwa muganga gasasheho n'ishuka.

Umugabo munini cyane wambaye ikabutura y'umweru akaba aryamye ku gatanda ko kwa muganga bamwambitse serumu, yambaye agapfukamunwa ubona ko ari kubabazwa n'umubiri ariko nta kundi byagenda kuko umubiri ubyara udahatse.

Umukecuru wipfutse igitambaro cy'umukara, akaba yambaye ikanzu nini cyane, idozwe mu gitenge, imbere ye hakaba hicaye muganga; muganga na we akaba yafashe ka kuma, gakunze gukoreshwa mu gusuzuma uko umutima w'umuntu utera; akagashyira mu ijosi.

Inyubako yo kwa muganga igaragaraho icyapa kiranga aho abantu bagiye bitewe na serivisi bakeneye, ku buryo iyo umaze gusoma icyo cyapa uhita umenya ngo bitewe n'iyo serivisi ngiyemo nderekeza muri uru ruhande kuko kiba kigaragaraho serivisi zose zikorerwa muri icyo kigo kijyanye n'ubuvuzi.

Abantu b'igitsina gore bahagaze ku murongo bambaye amashati y'amaboko magufi, afite n'imifuka ariko mu gatuza hakaba hasatuye akoze mu mutima. Aya mashati arasa ubururu, bambaye n'utugofero, umwe muri bo yambaye n'amaherena ku gutwi, inyuma yabo hagaragara ibiti binini cyane byasagambye.

Inyubako ndende igeretse rimwe imbere y'iyo nyubako hakaba hari ubusitani burimo agaca keza pasiparumu, si ibyo gusa kuko hamanitse n'ibendera rya repubulika y'u rwanda ku rundi ruhande hariho moto ihaparitse ndetse n'imodoka ihari isize irangijye rijya gusa cyangwa se risa n'amabati yaho.

Icyumba cyo kwa muganga, muganga yambaye agapfukamunwa ndetse n'akarindantoki kari mu ibara ry'ubururu n'itaburiya y'umweru, afite agacupa mu ntoki gapfundikije umufuniko w'ubururu, inyuma ye gatoya haragaragara ameza ateretseho mudasobwa hakurya hakaba hari akabati.

Inyubako nini cyane igaragaramo parafo y'ishinwa ndetse n'ibitara birebire cyane bimurika ku bilometero birebire ndetse muri iyo nyubako haragaragaramo kizimyamwoto iri kuruhande rwigikuta si ibyo gusa kuko iyo nyubako isize irangi ry'umweru.

Ibitanda bine byo kwa muganga biri mu cyumba kimwe, ibyo bitanda bikozwe mu byuma ntabwo ari iby'imbaho, hashasheho matora, ibyo bitanda kandi bikaba bisizwe irange ry'umweru, usibye ko hari n'uduce dutoya tugiye dusize irange ry'ubururu.

Inzu isize irange ry'umweru, ikaba irimo igitanda cyo kwa muganga, gikozwe mu buryo hasi aba ari ibyuma, hejuru kakaba karambuye; ndetse imbere yako hagaragara computer iri kugaragaramo amashusho. Ku rundi ruhande hari igitambaro cy'umweru, gihanitse impande y'igikuta.

Inzu nini cyane yo kwa muganga yashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima Arabisi itanga serivisi zijyanye no gusuzuma no gupima ibisubizo by'indwara zitandukanye, harimo nka malariya, harimo nka sida ndetse n'izindi zitandukanye, mbere yaho haragaragara ubusitani bwiza cyane burimo agacaca keza.

Umurwayi wicaye ku gitanda iruhande rwe haragaragara umuganga wambaye itabuya y'umweru, n'akuma gakunze gukoreshwa mu gupima uko umutima utera inyuma y'uwo muganga haragaragara ikindi gitanda, kiryamyeho umumama wambaye ishati y'umweru ndetse akaba yipfutse igitambaro kirimo ibara ry'umweru n'umutuku.

Inzu y'ikigo nderabuzima ishinzwe kwita ku barwayi ba kanseri, imbere y'iyo nzu hari ivaze iteretsemo ururabo rurerure cyane ndetse aho ngaho ni no mu busitani bw'indabo zitandukanye, imbere y'iyo nzu kandi haragaragara umuntu wambaye imyenda ya gisirikare yo mu rwego rwo hejuru mu rwanda.

Umugabo wicaye hasi, akaba yambaye agasengenge k'umweru n'ipantaro y'umweru n'isaha ku kuboko, akaba afite igicupa mu ntoki kirimo amazi, agiye kunywa kuko amaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye ubusa hejuru bigaragaza ko yakoze imyitozo ngororamubiri myinshi cyane kuko igituza cye cyaragiye kirabyimba ku kuboko kwe hashushanyijeho amabara abiri hakoreshejwe ibara rirya gusa nk'aho ari ubururu ariko ntabwo ari ubururu neza.

Abaganga bahagaze harimo wambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'agapfukamunwa hakaba n'undi wambaye indogamo z'amaso ariko nta gapfukamunwa yambaye, kukuruhande rwe haragaragara abantu bicaye ku bitanda byo kwa muganga bifubitse amashuka asa umweru.

Ikiganza gifashe ijage ryo mu bwoko bw'icyuma riri kuvamo amazi y'urubogobogo asukwa mu kindi kirahure giteretse ahantu ku meza. Icyo kirahure ni igikombe cyiza cyane ndetse hafi aho ngaho hakagaragara n'indi shusho y'umweru dede.

Umuntu wicaye ku gitanda gishasheho ishuka irimo utubara tw'umweru ndetse n'uturongo tw'umukara, yambaye ipantaro y'umukara imufashe cyane n'asengeri k'umukara yarambuye amaboko ari kwinanura.

Umuntu w'umugabo, wambaye agapira karimo ibara ry'ubururu. Yambaye isaha ku kuboko afite igicupa kirimo amazi yo kunywa ari kukinyweramo. Inyuma ye haragaragara ibara ry'umweru ariko atari umweru dede, bisa nkaho havanzemo nk'akandi kabara gakeya, k'ubururu.

Imbuto zitandukanye, harimo: ibitunguru, harimo umuneke, harimo pome, ndetse hakagaragara n'ironji. Si ibyo gusa kuko haragaragara n'utundi tubuto dutandukanye. Ku ruhande hari umuntu uri gukora pompaje amanuka, azamuka, akaba yambaye agasengeri k'umweru.

Umuntu uri gukora imyitozo cyangwa se siporo, yambaye agapantaro kamufunze k'umukara n'agasengeri k'umukara, yambaye ekuteri mu matwi ziri mu ibara ry'umweru, afite umusatsi mwinshi cyane ku ruhande rwe yateretse icupa ririmo amazi.

Umuntu uryamye ku gatanda ko kwa muganga agaramye, akaba yambaye ipantaro ya kaki, k’uruhande rwe hahagaze umuganga ndetse n'urundi ruhande narwo ruhagazeho umuganga, bishatse kuvuga ko impande zombi zose ziriho abaganga. Sibo bonyine bahari kuko hari n'abandi bagabo bahagaze benshi bambaye amakositimu.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, akaba yambaye umupira w'umweru ariko atari wa mweru wererutse, yambaye n'ikabutura y'umukara, yambaye inkweto zifunze. Ukuboko kumwe yagufatishije mu mayunguyungu, ukundi agufatisha ku kuguru cyangwa se ku mano kuko yafashe ukuguru; agushyira hejuru y'icyuma gitambitse asa nkaho ari kugorora ukuguru.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri yapfukamishije hasi ivi rimwe ukundi kuguru araguhagarika arangije ahina ivi , afata amaboko ye yombi ayashyira kuri iryo vi, arangije ari gusa nkaho ari kunanura ukuguru.

Umuntu w'igitsina gore wicaye hasi akaba yambaye agapantaro kamufashe cyane n'inkweto zifunze. Yambaye isengeri y'iroza yigunze afata munsi y'ikirenge, ukundi kuboko akurambika ku bibero bye, ukundi kuguru aragukuba.

Icyapa kiriho amagambo manini ari mu ibara ry'ubururu bwijimye, hepfo yaho hari ipombo irimo n'urushinge, ku rundi ruhande hari ibinini byinshi cyane bikoze ishusho y'umuntu uri kwiruka.

Burya umuganga ni byiza ko agira igikapu cyabugenewe agomba kujya atwaramo ibikoresho bye bitandukanye kuko hari nk'igihe aba akeneye nk'ipensi cyangwa se akeneye akuma gapima uko umurwayi arwaye nk'agapimo uko umuvuduko w'amaraso umeze ndetse n'agapima uko umutima uri gutera.

Umuntu w'igitsina gore, uri gukora imyitozo ngororamubiri, yahagaze neza arema, arangije afata ukuguru kumwe arazamura, kugeze hejuru araguhina amaze kuguhina afata mu ivi, akoresheje ibiganza bye, ukundi ukuguru kuracyahagaze neza, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare yicaye ku ntebe isize irangi ry'umweru, imbere ye hateretse mudasobwa, ari kureba ibishushanyo biri muri iyo mudasobwa hagaragaramo n'amafoto y'abantu, ikingiki gikunze gukoreshwa kwa muganga.

Umuntu w'igitsina gore uri kunywa amazi, akaba yambaye agasengeri, kuri ako gasengeri haragaragaramo akarongo gatambitse ndetse n'akamanutse kari mu ibara ry'umukara, ku rutugu rwe yahashyize igitambaro iburyo bwa furari.

Aha ngaha wakwibaza ngo wafata iki, byagorana uramutse uzanye umuntu aha ngaha kugira ngo agire icyo afata. Ibaze uzanye nka Byiringiro Kalisiti ukamubwira ngo afate muri ibi ngibi hari umuneke, hari ironji, hari inanasi ndetse hari n'umudali. Kugira ngo agire icyo afata byamugora.

Ikiganza gifashe ijage y'umweru dede ikozwe mu buryo bw'icyuma, harimo amazi y'urubogobogo, ikiganza rero kiri kuyasuka mu kindi kirahure giteretse ahantu ku meza kugira ngo uza kuyafata aze kuyanywa.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'umweru, akaba yambaye impeta mu kuboko ndetse n'igikomo, araryamye agaramye arangije afata ukuguru araguhina azana ibiganza bye byose abifatishaho asa nkaho ari kukugorora.

Inkweto zikomeye cyane zigaragara nk'izikunze gukoreshwa n'abakora akazi k'umutekano nk'abasirikare, abapolisi ndetse n'abandi. Iyo nkweto ikaba ikiri shyashya kuko iriho n'icyapa cyayo bayizanana yanditseho ijambo ngo bato.

Umuntu wicaye ku gatanda ko kwa muganga, yambaye ipantaro y'ikoboyi. Yahinnye ikoboyi ku kuguru bari kumupfukaho igisebe. Muganga yambaye ishati y'umweru dede ndetse mu ijosi he hari ikarita y'akazi.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye ikabutura y'umukara. Afite ikintu kiri mu ibara ry'ubururu ariko kikaba kiri mu gashashi yashyize Kukuguru kwe kw'ibumoso ari gukandisha.

Igisekeje, kikanatangaza ni umuntu ugaragara ko asobanutse, yambaye imyenda ikunze gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri ndetse imyenda y'umukara n'inkweto zifunze, ari kuza akurira ku ndangururamajwi, yarangiza akagenda akajya imbere, ubu se ibi ngibi biremewe? Ako ni akabazo.

Abaforomokazi bambaye imyenda isa ubururu, ndetse bakaba bambaye n'utugofero. Harimo abenshi muri bo bambaye indorerwamo z'amaso, ndetse n'udupfukamunwa. Imbere yaho hateretse ameza arambitseho igitambaro cy'ubururu. Kuri icyo gitambaro cy'ubururu, harambitseho utundi dusahane tw'ibyuma, turimo imiti. Bose bari kureba imbere yabo hari umurwayi uri kwa muganga.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu rw'icyongereza asobanura amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya kovide cumi n'icyenda, hepfo y'aho haragaragara ibiganza bibiri biri gusuhukanya haciyemo akarongo k'umutuku bisobanuye ko ibyo bibujijwe, hirya hakagaragara ibindi biganza biteze ku mugezi biri koga ndetse hakagaragara n'abandi bantu bahagaze hepfo.

Inyubako y'ivuriro, imbere yiyo nyubako har’umuntu uhagaze ku rwego, hasi har’undi wambaye imyenda iri mw’ibara ry'ubururu. Inyuma hagaragara n’undi mugabo muremure wambaye agapfukamunwa k'umukara, inyuma y’uwo mugabo hateretse akabati.

Uruziga rurimo umuntu uri kwirukanka ndetse n'undi muntu wicaye hasi, hakagaragara n'ibiganza bibiri, hejuru y'umuntu wicaye hasi hari umusaraba uri mu ibara ry'umweru ndetse ku ruhande hari ibara ry'umutuku.

Agacupa kagaragajwe ko kasandajwe amazi, akavamo y'urubogobogo akameneka, muri ako gacupa harimo amazi meza cyane, ibitonyanga byagiye byiterera hejuru, kandi gapfundikije umufuniko usa.

Umuntu w'igitsinagore wambaye agasengeri k'iroza, akaba yambaye n'ekuteri mu matwi zisa umweru, yazamuye amaboko hejuru arangije asa nkaho ayahuza, yambaye isaha y'umukara.

Umuntu w'igitsina gore uri mu myitozo ngororamubiri yambaye agapantaro kamugundiriye cyane, yunamye arangije ukuboko kumwe agushyira mu mugongo ukundi arangije arakumanura agukoza munsi y'ikirenge afite imisatsi myinshi cyane akaba yambaye n'agasengeri kari mu ibara ry'icyatsi.

Umwana wambaye agapira k'amaboko maremare, akaba yicaye ku kumukeka. Inyuma ye hari umumasera witandiye ya myenda yabo bagwabwe bambara ndetse aka afite na furari mu ijosi. Imbere ye hagaragara umuntu w'uruhu rwera uzwi nk'umuzungu nawe we akaba apfukamye imbere ye yambaye n'ikoboyi y'umukara. Kuruhande gato hicaye abandi bantu.

Umuntu w'igitsina gore, yafashe itapi iri mu ibara ry'ubururu arangije ayishyira hasi ayicaraho, arambura amaguru ye arayatatanya ntiyayegeranya, arangije aheta umugongo, ashyira amaboko ye munsi y'ibirenge, muri make ari kugenda afata munsi y'ibirenge agenda ananura umugongo.

Umuntu wambaye ikabutura y'umukara kuruhande rwe hateretse igikapu, afite igikurutu ari kunyweramo amazi, akaba yambaye n'umupi w'ingofero, yazamuye ingofero ayishyira mu mutwe ndetse yanafunze imashini.

Umubyeyi wicaye ku ntebe akaba akikiye umwana mu ntoki. Umuforomo yafashe icyuma kimeze nka kamera agitunga umwana mu gahanga, noneho hakurya hari televiziyo iri guhita igaragaza umwana uko ameze mu maso, isura yahise yigaragaza muri iyo televiziyo. Iyo televiziyo iteretse ku meza akozwe mu buryo bwa ribuyu.

Umuntu uryamye ku gatanda ko kwa muganga akaba aryamye yubitse inda, yambaye agapira k'umuhondo, ku kuboko kwe yanditseho tatuwage cyangwa se ibyo twakwita nkaho ari imanzi ugendanye n'Ikinyarwanda cya kera.

Ikiganza cy'umuntu gifashe ijage iri mu bwoko bw'ikirahure isa umweru dede harimo amazi ari gusukwa mu kindi kirahure giteretse ahantu nacyo gisa neza cyane kuko kigaragara ko nta kanda karimo nacyo ari umwerudede.

Umuntu wambaye agakabutura k'ubururu n'inkweto za supuresi, afite imisatsi myinshi cyane, yambaye agasengeri k'icyatsi imbere ye hari ikintu kimeze nk'ameza, gihagazeho ibyuma bibiri bikoze nk'izamu afasheho, buri cyuma agifatishije ukuboko kumwe asa nkaho yunamye, noneho ukuguru kumwe kuri inyuma ukundi kuguru kuri imbere hasi hari tapi.

Umuntu uri kwikanda ku kuguru, akaba yazamuye ipantaro cyangwa se yayihinnye, arangije afata ikintu kimeze nka sitiriwaye, arangije ari gukumisha cyangwa se gukandishaho, ibyo aribyo byose yabigiriwemo inama na muganga kuko ibi si bisanzwe mu buvuzi gakondo.

Muganga yafashe akuma, agatereka imbere y'umuntu wambaye ikabutura n'agapira k'amaboko magufi k'umweru, uwo muntu afataho, mwagira ngo ari kwinyonga. Muganga yambaye uturindantoki. Abazi ka kuma kwa muganga bakunda kuzana batwayeho ibikoresho nk'iyo wenda bagiye kubaga umuntu, na ko ni ko kameze.

Ikiganza gifashe agacupa karimo amazi y'urubogobogo, ako gacupa kagaragaramo amazi ndetse kakaba gapfundikije umufuniko w'ubururu ariko si ibyo byonyine bihagaragara; kuko iyo urebye imbere hagaragara ibicu birimo ubururu n'umweru.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri yambaye agapantaro kamufunze cyane, yapfukamishije ukuguru kumwe ukundi arangije asa nk'ukurarambura ageze imbere araguhina, ntabwo agufasheho kuko amaboko ye yose yayahanitse hejuru, yambaye n'agasengengeri k'umweru imbere ye hagaragara igitebo giteyemo ururabyo.

Umuntu wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'isengeri y'umukara, imbere ye haragaragara urugo bubatse bakoresheje ibiti, yafashe ukuguru kwe akumanika hejuru y'igiti, cyangwa se urubariro rutambitse, ajyanayo n'ukuboko kwe ajya kugufatisha kuri kwa kuguru, akaba yambaye n'isaha ku kuboko.

Icyapa kigaragaza umuntu uri guterura icyuma cyangwa se ikizwa mu ndimi z'amahanga nka artel, imbere ye haragaragara ibiribwa bitandukanye harimo amagi, hagaragaramo inanasi ndetse n'umutobe.

Umuntu uryamye ku gatanda ko kwa muganga yubitse inda, akaba yifubitse ishuka y'umweru, muganga na we yambaye agapfukamunwa ari kumukora mu mugongo amushyira mu cyuma, kugira ngo arebe aho ikibazo kiri ndetse n'ukuntu yamuha ubuvuzi.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, handitseho amagambo mato, ari mu ibara ry'umukara hejuru hariho amagambo manini yanditse mu ibara ry'umweru. Hepfo haragaragara abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, hari ufashe ku ntebe arangije arambura ukuguru. Haru guru ye hahagaze undi wahinnye ivi ukundi kuguru gusigara guhagaze neza.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'amafoto agaragaza uko umuntu yakora imyitozo ngororamubiri, hari abari gukina umupira ndetse hari n'umukinnyi uri imbere y'umusifuzi, umusifuzi ari kumwereka ikarita y'umuhondo.

Imiti yo kwa muganga iratandukanye ariko buri muti burya uba ufite icyo uvura, uyu nguyu ugaragara aha ngaha rero uri mu gacupa k'umweru kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ashatse gusobanura ngo hagarika ububabare cyangwa se hagarara kuribwa bitewe n'uko uyu muti wawukoresheje neza.

Ibipupi bitandukanye, harimo igipupi kigaragaza imyanya myibarukiro y'umugore ndetse n'igipupi kigaragaza imyanya myibarukiro y'umugabo, sibyo bigaragara byonyine kuko icyo gi pupi cyose kiri kuba kigize umubiri w'umuntu, ku ruhande hagaragara insimburangingo zitandukanye.

Abantu babiri bose bambaye imyenda yo gukoresha siporo bambaye udukabutura tugufiya cyane, harimo uwambaye agakabutura k'umukara ndetse n'isaha ku kuboko buri wese afite igicupa cy'amazi, kuko basobanukiwe neza ko iyo uri gukora siporo cyangwa se ukumva urahagiye, iyo ufashe amazi agufasha kugira ngo wumve umubiri wawe uri gutera neza.

Muganga ari guterefona cyangwa se ari guhamagara abagenzi be akoresheje uburyo bwa tuvugane. Tuvugane abenshi cyangwa se abo muri iki gihe ntabwo bapfa kuyimenya, kuko yabaga ari telefone bashyiragamo ikarita cyangwa se amafaranga ubundi umuntu yarangiza agahamagara. Ikaba yaragiraga ikintu kiyicometseho wakuragaho ugahamagara.

Umuntu w'igitsina gore wicaye mu buriri, ubwo buriri bwe bukaba bushasheho igitambaro gisa umweru, afite akantu kameze nk'aho ari gipfuko yakabaditse munsi gato y'ivi.

Iteretseho ibyo kurya bitandukanye birimo; inyama, amagi, inanasi, umuneke, ndetse n'inkeri. Si ibyo gusa kuko hari n'akandi gateretsemo urusenda, ibitunguru na zatungurusumu.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu, akaba ari kunywa amazi muri gurude, mw’ijosi he yashyizemo inyakiramajwi cyangwa se ekuteri, ndetse hari n'umugozi uziritse ku kuboko afatishije icyo gikurutu ari kunyweramo amazi, ukundi kuboko kwe kuziritseho ikindi kimeze nk'igitambaro cy'umweru.

Kwa muganga, umuganga ari gufasha umurwayi gukora imyitozo ngororamubiri, bifashishije akuma bafata mu ntoki kaba karemeye cyane. Uwo muntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'umukara karimo uturongo dutambitsemo tw'umweru. Muganga nawe yambaye itaburiya isa ubururu.

Umuntu w'igitsina gore yambaye inkweto zifunze ndetse n'amasogisi y'umweru, akaba yambaye ipantaro imufunze cyane, iri mu ibara ry'ubururu. Yafashe ukuguru kwe araguhina, arangije kuguhina agufatira inyuma.

Umuntu ugaragara ko ari kwiruka ariko hakaba hatagaragara igice cyose, ahubwo hakaba haragaragajwe igice cy'ukuguru ndetse kuri icyo gice ahazwi nko ku kabumbamure, bagerageje kuhashushanya bakoresheje amabara abiri nk'iryo navugamo ni iry'ubururu.

Abantu bicaye ku ntebe bafite amakayi n'amakaramu bari kwandika, imbere yabo hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'inkweto zifunze n'ipantaro y'umukara, ahagaze imbere y'icyuma ari kubasobanurira iby'ifoto iri kugaragara muri icyo cyuma.

Igikapu gifunguye muri icyo gikapu haragaragaramo ibikoresho bitandukanye, hagaragaramo inshinge haragaragaramo ibindi bipaki birimo imiti y'ubwoko butandukanye ndetse kuri icyo gikapu hariho ku ruhande udufuka turi mu ibara ry'umutuku.

Abantu bahagaze ahantu ku murongo imbere yabo ikigaragara cyo hari umuntu uri kubatoza ibyo bari gukora, kuko bose ubona barangamiye imbere kandi bari gukora ibintu bimwe, bambaye imyenda ikunze gukoreshwa n'abari mu myitozo ngororamubiri cyangwa se siporo mu ndimi z'amahanga ndetse bakaba bambaye n'inkweto zifunze.

Icyapa kiriho abantu benshi cyane batandukanye, kigaragaza uko abantu bakora imyitozo ngororamubiri. Harimo uzamura amaboko akayafatanya yarangiza akihengeka, kigaragaza n'abandi bari gukina umupira w'amaguru ndetse n'undi uri kwiruka.

Umuntu wambaye isengeri y'umweru ndetse akaba yambaye n'ipantaro y'umukara, akaba yicaye ku gitanda kigaragara ko ari ikiriho ibyuma bitandukanye bizwi nka gym mu ndimi z'amahanga, inyuma ye hakaba hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'umukara n'ipantaro y'umukara ari kureba uburyo ari kubikora.

Umuntu uryamyeyo ku gatanda ko kwa muganga, aryamye yubitse inda ari gukora imyitozo ngororamubiri aramanuka akazamuka yubamye, inyuma ye haragaragara undi muntu umufashe amaguru kugira ngo uko azamuka niko amaraso aba atembera umubiri neza.

Kunywa amazi ni ingenzi, ni ingirakamaro ni ibintu byiza cyane kuko burya amazi ni meza mu mubiri, umubiri urayakenera nk'igihe umuntu arangije nko kwiga cyangwa se ari kwiga birashoboka ko yajya anywa amazi kugira ngo ubwonko bukore neza kuko iyo wakoresha umubiri cyane amazi aba yagushizemo.

Muganga yicaye ku ntebe yambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu mu kiganza yambaye uturindantoki turimo ibara na two tw'ubururu ndetse n'agapfukamunwa imbere ye hari ameza. Ku meza hejuru hateretseho mudasobwa, amakayi abiri ndetse n'ikaramu.

Umuntu uryamye ku gatandatu ko kwa muganga yambaye ikabutura ebyiri, hari agakabutura k'umweru ariko usa nkaho wijimye uvanzemo na gakara gakeya n'akandi kari inyuma k'umukara, yazamuye ukuguru muganga ari ku mukanda ku itako arigorora.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi k'umukara, afite ikintu yazingiye ku kiganza cye arangije asa nkaho akwetura cyangwa se ari kugikurura, muganga yafashe ukuboko kwe kusa nkaho kuri gukurura ikindi kiganza cya muganga, agifatisha mu byano by'uku kuboko.

Igiti kirekire gifite n'amashami menshi cyane impande, y'icyo giti hari indabo zitandukanye z'ubwoko bwinshi harimo izisa umutuku ndetse hakagaragara n'izindi zisa icyatsi.

Mu bihingwa bikora umuti mu gihe waba uwukeneye, harimo nk'igihingwa cya tangawizi ndetse n'ubuki, ibingibi bikunze gukoreshwa cyane cyane mu buvuzi gakondo ariko iyo ubifashe ukabitunganya neza cyane byatuma uwirinda ukarinda n'abawe.

Amapaki arimo imiti itandukanye hakaba hagaragara n'umuti umwe ugaragaraho icyapa cy'icyatsi cyitwa igikakarubamba ndetse hasi hari n'ibibabi by'igikakarubamba biharambitse, si ibyo byonyine bihari kuko ku ruhande hagaragara n'ubundi bubuni bunini cyane burimo imiti itandukanye, inyuma yaho kuri ubwo bubuni hashushanyijeho agasiga.

Icupa rizamo umuti ryanditseho amagambo rikaba risize irange ry'umweru ndetse n'agafuniko karipfundikiye kakaba gasa umweru. Kuri iryo cupa hariho icyapa cyanditseho amagambo ndetse hakaba hashushanyijeho n'akantu kameze nk'agasiga.

Indabo ziteye amabengeza ndetse hakaba hari iziteye mu ivase ariko zikaba zarakuze neza cyane bigaragara, ku ruhande hakagaragara n'uducupa kuko si ibyo gusa hari n'izindi ndabyo ziri ku rundi ruhande na none ariko tutirengagije ko hagaragara n'ibinini bitandukanye.

Ibikoresho byakundaga gukoreshwa mu muco gakondo bakora babibumbye, bakabibumbwa mu ntombe cyangwa se mu ibumba ndetse muri ibyo bikoresho harimo uburusi bubiri, ibindi bitewemo igihingwa kitwa igikakarubamba.

Uruhurirane rw'imiti myinshi cyane itandukanye, hari iri mutubuni dutoya, hari iri mu ducupa tw'umuhondo twanditseho n'amagambo, hari iri mu kabuni gasa umuhondo na ko kariho agasiga, inyuma ndetse ikigaragaracyo wagira ngo ni iduka cyangwa se ni inzu bacururizamo imiti.

Abanyarwanda barasobanukiwe cyane nk'uyu nguyu wambaye umupira w'umweru akaba yifubitse n'agatambaro k'umweru afite n'ishakoshi ku kuboko ari guca umuravumba kugira ngo awucyure iwe kuko azi neza umumaro wawo.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hakagaragara n'imiti myinshi cyane, iteretse aho ngaho, harimo iriho igikakarubamba, ndetse n'inyuma y'aho bakagaragara ko hari igikakarubamba kitari kuri iyo miti, ahubwo gisa nk'aho kihateye.

Umugore bigaragara ko ageze mu zabukuru urebeye ku kiganza cye kuko cyazanye iminkanyari, akenyeye igitenge kirimo amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, imbere ye hari ahantu hateye jaride cyangwag se hari ubusitani, ari guca akarabo kuko kararabye, ni keza cyane gasa ieoza.

Igikakarubamba gitoshye cyane imbere yaho hakaba hari ivoka isatuye ikirimo n'ikibuto, ku rundi ruhande hakaba hari voka ikiri yose, hagati y'izo voka ebyiri harambitse isabune, bigaragara ko iyi sabune yakozwe hifashishijwe voka ndetse n'igikakarubamba bakabivanga ubundi bagakoramo isabune.

Igitambaro giteretseho agasahani, muri ako gasahani haragaragaramo umutobe w'ironji ndetse n'igice cy'ironji gisatuye giteretse muri uwo mutobe. Ku ruhande hariho ibishishwa byaryo bakamuye bivamo uwo mutobe. Si ibyo gusa, kuko hari n'ikindi kimera cyitwa tangawizi, gikunze gukoreshwa cyane cyane nk'umuti uvura ibijyanye n'ubuhumekero, harimo nko kumva mu muhogo

Abantu babiri harimo uwipfutse akaba yambaye n'umupira w'umweru w'ingofero, ku ruhande hari undi wagiye ahagarara munsi y'igiti neza, ku buryo n'amababi yacyo cyangwa amashami atangiye kumukingiriza, akaba yambaye n'agapira k'umutuku ndetse inyuma yambaye n'ikindi kintu cy'umukara.

Utubuni duteretse ku murongo harimo akabuni k'umweru, gapfundikije umufuniko w'ubururu ndetse n'akandi kabuni kajya gusa umuhondo, ariko ntabwo ari umuhondo wererutse, ahubwo bijya gusa nk'aho ari igitaka. Hafi aho haragaragara ibice by'igihingwa cyitwa igikakarubamba, bagiye bacamo kabiri. Bishatse kuvuga ko uwo muti uri muri utwo tubuni waba warakozwe mu bikakarubamba.

Igitanda cy'icyuma gisiize irange ry'umweru, bafashe hejuru batekaho ibintu by'ibibumbano, barangije bizwi nk'amavase, barangije bashyiramo itaka bateramo indabo ndetse wateramo n'ikindi gihingwa cyose, kuko itaka ushyiramo ifumbire ubundi igihingwa kikajya kibona amazi gikuye muri rya taka ndetse n'ifumbire kigakura neza.

Amafoto atandukanye ari ku cyapa, icyapa kigaragaza ko hariho igihingwa cy'ubunyobwa, ubu bunyobwa bukaba budatonoye, bukiri mu gishishwa cyabwo, ku ruhande hakagaragara imineke, harimo ibiri itemyeho n'indi irunze hamwe, nta kintu bigeze bayikoraho.

Icyapa gishushanyijeho abantu babiri umugore n'umugabo, ndetse n'agacupa kahateretse hepfo yaho hari ikiziga kirimo amagambo akurikira: kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, ikumira indwara zifata porositate.

Ibihingwa bine, biri mu mabara atandukanye, hari igihingwa kigaragara ko cyarabye, kiraba uturabo tw'umuhondo, hepfo y'ibyo bihingwa handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara wijimye.

Ifoto y'umuntu igaragara ibice by'intoki cyangwa se by'ikiganza, muri icyo kiganza hakagaragaramo igipapuro gisutseho umuti bafashe bagasya bamara gusya bakawanika ukuma neza cyane. Uyu ni umuti gakondo. Agiye kuwifashisha birashoboka ko wenda yaba agiye kuwuvuza umuntu.

Icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru hakaba amagambo manini ndetse n'andi magambo matoya, ndetse kigaragaraho ibinini birebire cyane biri impade y'agacupa k'umweru, ndetse gafite umufuniko w'umweru, hirya hagaragara icyatsi kizwi nka kapisine.

Bimwe mu bikoresho bikunze gukoreshwa cyangwa se byakoreshwaga mu muco nyarwanda hagaragaramo uducuma, ibibindi, inkoko ndetse n'utuzu twabaga dusakaje ibirere.

Amacupa arimo imiti itandukanye, hari icupa ririho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse ikagaragaraho n'akantu kameze nk'agasiga kari kuguruka, si ibyo gusa bihari kuko ku meza hanateretse ikinyagu cyangwa se ikimamari, hakurya hagaragara inzuki.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse imbere yabo hakagaragara n'igipaki kiriho ibinini ibyo binini biri mu ibara ry'igitaka, kuri icyo cyapa haragaragaraho kandi ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umuhondo ni byo bihiganje.

Icyapa kigaragaramo amabara atandukanye, harimo nk'icyatsi ndetse n'ibara rikeya ry'umuhondo. Aho hantu hagaragara umuntu w'igitsina gore wambaye agapira k'amaboko magufi k'umukara ndetse hakagaragara n'amagambo ari hejuru yanditse mu ibara ry'umweru manini andi ayakurikiye yanditse mu ibara ry'umukara.

Ifoto igaragaraho igihingwa cy'igikakarubamba. Igihingwa cy'igikakarubamba ni kimwe mu bihingwa by'umumaro cyane kuko gikoreshwa mu miti myinshi cyane ikorwa biciwe mu nganda. Si uko yacirwa mu nganda gusa kuko birashoboka ko wanagikoresha utabanje kugicisha mu nganda nko kukivuguta wamara kukivuguta, warangiza ukagikoramo umuti wo kwisiga uvangwa n'amavuta.

Umugabo wambaye akagofero kari mu ibara ry'ubururu, akaba yabambaye agapfukamunwa ndetse n'itaburiya. Imbere ye hateretse ameza ariho imiti itandukanye ndetse n'udukarito twinshi cyane, ako gakarito kakaba gakoze buryo bwa mpande enye gafite ibara ry'umuhondo, inyuma akaba ari umutuku, ariko uwo mutuku ukaba utererutse, ahubwo ari umutuku usa nk'aho wijimyemo gakeya.

Mu bimera nyarwanda hari ibyo abantu batasobanukirwa; keretse nk'abantu bakoze ikintu cyo guhinga cyangwa se akaba yarabayeho umwahizi. Iki ni ikimera kitwa inyabarasanyi, iyo kimaze gukura cyane, kigeze igihe cyo gusaza haza udushokoro twinshi cyane,. kikaba gikoreshwa na cyo mu buvuzi gakondo nko kumisha igisebe.

Agacupa kazamo umuti kakaba kari mu ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko wako ukaba usa umweru, inyuma hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ariko hakaba hagaragaraho n'ibara ry'ubururu.

Agakarito gakoze mu buryo bwa mpamde enye kuri ako gakarito haragaragara imirongo isa nkaho iberamye harimo uri mu ibara ry'icyatsi , agakarito ka kaba kanditseho amagambo hejuru ndetse no mu mpande.

Icyapa kiriho imiti, hariho imiti iri mu gikarito ndetse n'ikibuni kinini cyane, kiri mu ibara ry'umuhondo, kiba gishushanyijeho igikakarubamba, ntabwo ari ikibuni kimwe kuko ni ibibuni bigera muri bine ndetse n'amagambo ashushanyijeho cyangwa se yanditseho, ari mu ibara ry'umukara wijimye.

Amakarito arimo ibicuruzwa bitandukanye inyuma yaho hagaragaraho inanasi igifite n'ibibabi byayo ndetse n'indabo zihateretse ku ruhande zifite mo indabo hejuru z'umuhondo imbere yaho hakagaragara imineke.

Ibiti ni byiza cyane kuko ibiti ni bimwe bituma tubona amazi kuko ibiti bikurura amazi, igihe imvura iguye burya ibiti ni byo biba byabigizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo imvura izagwe ndetse n'ibimera bitohagire.

Ivaze risize irange ry'umweru rikaba riteyemo ururabo rutohagiye cyane, aho bafata itaka rikeya bakarishyira muri iryo vaze barangiza bagateramo ururabo, ku ruhande y'aho hateretse uducupa tuzamo kanta ndetse hari agafunguye, hari n'utundi tudafunguye.

Icyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, hakagaragara n'umuntu wambaye akagofero gakunda gukoreshwa n'abo mu idini rya Kisilamu, inyuma ye haragaragara akandi gafoto gatoya kagaragaza umuntu urigukora ubusemuzi bw'amarenga, ku rundi ruhande hari akabati karimo imiti myinshi cyane ndetse n'amavuta.

Umuganga wicaye yambaye itaburiya y'umweru, imbere ye hateretse ameza asizeho irangi ry'umweru. Afite agakarito kariho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi ndetse akaba afite n'ikinini yakuyemo. Ibinini yakuyemo muri ako gakarito, na byo bisa nk'aho biri mu kandi kantu gasa nk'aho ari akakarito kabyo. Ari kubyerekana.

Urugo ruzitije ibikenyeri hakaba hariho n'imbariro zigiye zitambitsemo, imbere y'urwo rugo haragaragara igihingwa cy'ikawa ndetse ikawa tukaba tuzi neza ko mu gihugu cy'u Rwanda ari kimwe mu gihingwa ngandurabukungu cyinjiza amafaranga menshi cyane mu Rwanda, kuko ikawa y'u Rwanda ijya mu bihugu by'amahanga.

Umuti uri mu gacupa k'umweru ndetse n'umupfuniko wako ni umweru, inyuma hari icyapa cyanditseho amagambo n'agasiga gasa nk'akari kuguruka, ku ruhande hakagaragara n'igihingwa cyangwa se ikimera cyitwa igikakarubamba.

Ni ibikoresho byakundaga gukoreshwa mu muco gakondo harimo ibicuma, ibibindi ndetse n'intebe y'igikiko, si ibyo gusa bihari kuko hari n'akazu kubabatse mu buryo bwa muviringo, gasakaje ibirere.

Umuti ugaragara ko uriho agasiga kari kuguruka ndetse n'inigihingwa cy'igikakarubamba, ku ruhande hakagaragara amasura atandukanye ariko akaba agaragara ari ay'uruhu rwera, bigaragara ko umwe w'igitsina gore amavuta yamwangije cyangwa se uyu muti wakiza ibiheri byaje mu maso ye.

Ibiribwa bitandukanye, aha ngaha hagaragara inanasi, umuneke ndetse n'indabo zifite uturabo tw'umuhondo. Si ibyo gusa kuko hari n'amapaki arimo imiti itandukanye ndetse kuri ayo mapaki hakaba handitseho n'amagambo inyuma.

Ameza ateretseho imiti myinshi itandukanye, harimo tangawize, ibibabi by'igikakarubamba, indimu tangawise bakatakasemo utuntu tw'utuzeru ndetse hirya yaho hakagaragara n'ibibindi bihateretse.

Uducupa turimo imiti itandukanye; ahangaha hagaragara ikibuni cyangwa se ijerekani, igaragaraho umuti ndetse kuri iyo jerekani hashushanyijeho agasiga, mwagira ngo kari kuguruka n'andi magambo yanditseho, ariko hasi by'umwihariko, hari igihingwa cyangwa se ikimera cyitwa igikakarubamba.

Udukurutu turimo imiti igiye itandukanye, harimo uturimo ubuki ndetse kuri utwo dukurutu tukaba dufite imifuniko y'ubururu, hari ubururu bwerurutse n'udufite imifuniko y'ubururu bwijimye, Kuri utwo dukurutu hariho ibyapa byanditseho amagambo.

Icyapa cyanditseho amagambo ndetse kikaba kiriho n'igihingwa cyitwa igikakarubamba. Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara hejuru yayo hakagaragara agasimba kameze nk'inyoni cyangwa se igisiga. Hepfo ya ho hari andi magambo yanditse mu ibara ry'icyatsi.

Ikiganza cy'umuntu gifashe ku kibabi cy'ikawa. Ikawa ni kimwe mu gihingwa ngandurabukungu mu rwanda kuko ikawa y'u rwanda yoherezwa mu mahanga kandi ikazana amafaranga menshi cyane azwi nk'amadovize kuko iki gihingwa gifite umumaro ukomeye cyane bituma mu kugihinga kwacyo umuntu ashaka ibishwangara ndetse n'ibindi byo kugisasira kugira ngo kitazuma.